Arimo arakaraba intoki, gukaraba intoki ni igikorwa cyiza cyane aho gikunze kwifashishwa mu rwego rw'ubuzima mu kurinda ko abantu bakwirakwiza indwara zigiye zitandukanye zandurira mu gukoranaho.

Ni abana batatu, abana barimo baravoma amazi y'umugezi, uyu mugezi akaba atari robine ahubwo ari umugezi utemba, abana bari ahantu mu gishanga, aya mazi barimo barayavoma gusa ni mabi.

Umwana w'umukobwa, urimo arakaraba mu ntoki, gukaraba mu ntoki ni byiza, kuko birinda indwara z'umwanda cyane cyane izandurira cyangwa se iziba zafashe mu ntoki, bityo bikarinda abantu kwandura indwara zo mu nda, cyangwa se izindi ndwara zose ziterwa n'umwanda.

Ni abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'abana, barimo barafata ifoto y'urwibutso, aba ngaba bahujwe n'igikorwa cy'ubuzima kuko inyuma yabo hariho icyapa cyanditseho RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Ni abantu babiri bahagaze, aho umwe yambaye ikositimu na karuvati, undi akaba yambaye umupira ndetse n'ipantaro y'umukara, aho bafite agakapu mu ntoki kanditseho Visit Rwanda, inyuma yabo hari ibyapa biriho ibintu bigiye bitandukanye.

Abana babiri umwe wambaye ishati y'umutuku yera, undi akaba yambaye ishati y'umutuku ariko yijimye, umwe arimo arasukira undi amazi mu ntoki ngo akarabe, ndetse kandi bigaragara ko uwo barimo basukira amazi ngo akarabe, aragaragaza ibyishimo bihambaye.

Ni abanyeshuri bicaye mu cyumba bari kumwe n'ababyeyi cyangwa se abo twakwita nk'abantu bakuru, iki cyumba kirimo ameza ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye, ndetse kandi aba bana bicaye ku misambi, hari n'abandi bicaye ku itapi.

Uyu mubyeyi afite umwana mu ntoki, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, nk'uko bigaragara uyu mwana bagiye kumupima ibiro nka kimwe mu bituma bareba imibereho myiza y'umwana n'uburyo bamufasha kugira ngo agarure ubuzima buzira umuze.

Aba ni abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, bigaragara ko bakora muri serivise z'ubuzima. Serivise z'ubuzima, ni nziza cyane mu gihugu, aho zifatiye runini abaturage benshi, mu kubitaho ndetse no kubagira inama zigiye zitandukanye, z'ubuzima.

Ni itsinda ririmo abagabo n'abagore, itsinda bigaragara ko ririmo kuganira ku ngingo imwe, iri tsinda kandi ririmo guhuza ibitekerezo kugira ngo barebe icyakorwa.

Umugore wikoreye ijerekani, ijerekani yikoreye ikaba irimo amazi, umugore ubona ko rwose impande hari abana babiri, uwambaye kaki ndetse n'uwambaye ubururu, ubona ko uyu mugore arimo arajyana amazi mu rugo.

Aba ni abantu bambaye imyenda y'akazi, harimo umwe wambaye amadarubindi ndetse n'uturindantoki, inyuma yabo hari umusore ubahagazemo hagati ndetse kandi nk'uko bigaragara, aba bantu imbere yabo hateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye abagabo ndetse n'abagore, aba bantu bakaba bicaye neza, ni abantu bafite ibyo kwandikaho cyangwa se impapuro mu ntoki, ubona ko bari guhabwa amabwiriza.

Ni umubyeyi uri kumwe n'abana bagiye batandukanye, aho barimo baravoma amazi kuri robine, aba impande yabo hari amazu menshi ari ku murongo, bigaragara ko ariho batuye cyangwa se ariho bataha.

Aba ni abantu, bagiye batandukanye. Ndetse ubona ko bahanitse impapuro z'umweru hejuru, aba bantu barimo barishimira umunsi, cyangwa se igikorwa kirimo kirabera aha hantu.

Ni ababyeyi batatu bose bakenyeye ibitenge ndetse kandi barimo baravoma amazi kuri robine. Aya mazi akunze kwifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, mu gukora imirimo yo mu rugo.

Ni abana babiri batoya bishimiye amazi arimo aramanuka ava muri robine, ni abana ubona ko bateze ibiganza byabo ku mazi kugira ngo abe yabagwa mu ntoki.

Aha hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, biragaragara ko barimo barajanisha, bareba ikigero k'ikintu runaka, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Ni abagabo batatu bambaye ibikoresho bibarinda guhura n'umwanda, aba bari ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye ndetse hari n'inyubako iruhande rwayo cyangwa se a aho twakwita nko ku rubaraza hariho abantu bagiye batandukanye bicaye.

Ni abantu bahagaze mu bwugamo, inyuma yabo hari inzu zigiye zitandukanye. Abantu bahagaze ku cyapa gisa ubururu kiriho ifoto y'umuntu wambaye imyenda y'umweru, aba bantu na bo bari mu ngeri zigiye zitandukanye, harimo abagabo, abagore, hakaba harimo abaganga ndetse n'abaforomo.

Aya ni amagambo yanditswe ku rupapuro rw'umweru, aya magambo akaba yanditswe mu ibara ry'umukara. Ni amagambo ubona ko ari mu mbonerahamwe ifite uturongo tw'umukara, utumanuye ndetse n'udutambitse, ikindi kandi n'umutwe w'ayo magambo ukaba wanditse mu ibara ry'umukara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ni inyubako ubona ko mu kubakwa kwayo hifashishijwe ikoranabuhanga, iyi nyubako ifite ibyiciro bigiye bitandukanye, aho harimo n'inzu nziza cyane iteye irange ry'umweru.

Ni abagore bagiye batandukanye aho bari kumwe n'umuganga, aba bagore biragaragara ko bari guhabwa serivise z'ubuzima nka kimwe mu bibafasha kumererwa neza.

Abana barimo baroga mu mazi menshi, aba bana bambaye ubusa hejuru, aya mazi nk'uko bigaragara ni amazi mabi pee! gusa aba bana barimo barogamo ntacyo bitayeho.

Iki cyumba ku nkuta zacyo harimo ibyapa bigiye bitandukanye ndetse kandi ni icyumba kirimo abantu benshi bambaye udupfukamunwa, aho hari n'abandi babiri bicaye barimo gufasha bose muri serivisi zigiye zitandukanye, ndetse kandi biragaragara ko barimo barakoresha imashini.

N'abantu bari mu ngeri zitandukanye, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Aba bahagaze ku rubaraza rw'inyubako. Urwo rubaraza rukaba ruriho isima itukura ndetse kandi iyi nyubako ikaba yubakishijwe amatafari ahiye.

Ni abayobozi babiri, aho harimo minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda, akaba yitwa Dokiteri Sabin Nsanzimana, barimo baraganiriza abandi, cyane cyane aho bari kwibanda ku ndwara ya Maburg, ni icyorezo kigeze guteraho u Rwanda, ariko kikaba cyarahagaritswe.

Bicaye ahantu heza cyane imbere y'inzu isize irange ry'ubururu ubona ko ku rubaraza rwayo hariho abantu, aba bantu bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, harimo n'umudaso umwe ndetse imbere yaho haparitse imodoka.

Ni ababyeyi batatu bambaye imyenda igiye itandukanye biteze ibitambaro mu mutwe bafite impapuro z'umweru mu ntoki, imbere yabo hari umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse nawe yiteze igitambaro mu mutwe arimo arabapima umuvuduko w'amaraso.

Ni umwana muto cyane uri imbere y'umuforomo aho arimo aramwitaho. Si ibyo gusa kandi aha hariho n'abandi babyeyi bagiye batandukanye ndetse n'abajyanama b'ubuzima.

Uyu ni umubyeyi ufite umwana ndetse akaba afite n'urupapuro mu ntoki aho uyu mubyeyi ahagaze, harimo n'abandi babyeyi benshi bagiye batandukanye, bigaragara ko baje kwaka serivise z'ubuvuzi kwa muganga.

Umwana w'umukobwa urimo urakoresha igikoresho cya kandagira ukarabe, igikoresho gikunze kwifashishwa n'ahantu byatandukanye hirya no hino, aho cyifashishwa cyane n'abantu bakaraba intoki hirindwa indwara zigiye zitandukanye zandurira mu gukorakoraranaho.

Ni umubyeyi wikoreye indobo y'amazi isa umutuku ndetse kandi akaba afite n'indi mu ntoki isa umuhondo, uyu mubyeyi akenyeye igitenge, bigaragara ko avuye kuvoma amazi yo kwifashisha mu mirimo igiye itandukanye.

Ni umuganga uri mu cyumba cyirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, ndetse kandi yambaye agapfukamunwa n'imyambaro y'akazi, yiteze igitambaro mu mutwe ari kumwe n'abandi baganga muri kino cyumba.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye harimo abana batoya ndetse n'abantu bakuru aho barimo baravoma amazi kuri robine, ni amazi barimo baravomera amajerekani menshi cyane agiye atandukanye, ni umugezi wubatse ahantu heza cyane umusozi.

Bambaye imipira y'ubururu, yanyandikishijemo amagambo y'umweru, mu mipira yabo hakaba handitsemo ijambo shora neza, si ibyo gusa kandi bambaye ingofero z'umweru ndetse bahanitse ikiganza cyabo cy'iburyo.

Ni abantu benshi bicaye, aho harimo abaganga bambaye imyenda y'akazi ndetse bari kumwe n'abarwayi, aho barimo barabaha serivisi z'ubuzima.

Umubyeyi, umwana ndetse n'umuganga, uyu muganga akaba arimo arakingira uyu mwana mutoya, umubyeyi n'umwana bakaba barimo bitegereza umuganga ibyo akora, biragaragara ko umwana yatunguwe n'ibyo muganga arimo arakora.

Ni abantu bagiye batandukanye, aho bose bahurijwe hamwe mu cyumba, ndetse kandi bakaba bakoze itsinda aho barimo barasobanurirwa kuri gahunda zigiye zitandukanye, ku rupapuro rw'umweru.

Uyu ni umwana ubona ko wambaye imyenda y'umutuku, uyu mwana akaba ari imbere ya robine, ndetse kandi robine ikaba ifunguye, iyo robine biragaragara ko yubatswe ku nkunga n'umushinga wodi.

Ni icyapa cy'ubururu, icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse icyo cyapa kiriho umugore ufite imisatsi myiza, uyu mugore bikaba bigaragara ko ari we wavuze aya magambo.

Umugabo uri kumwe n'umwana bigaragara ko bari kuri robine barimo baravoma amazi ndetse kandi ku muhanda w'igitaka harimo abanyeshuri abahungu n'abakobwa aho bigaragara ko bavuye ku ishuri bambaye imyenda ya iniforume ndetse kandi bakaba bafite n'udukapu babikamo amakaye.

Umwana urimo aravoma amazi kuri robine zifunguye. Umwana rwose unezerewe cyane arimo akoresha igikombe, akaba agiye kunywa amazi amazi meza nk'ikintu nyine cyiza, cyane cyane kigira ingaruka nziza gusa ku mubiri wa muntu, ndetse no ku bindi binyabuzima byose.

Umwana mutoya urimo urahabwaga umuti ndetse akaba arimo arahabwa umuti n'umuganga, uyu mwana afitwe na mama we cyangwa se umubyeyi we umubyara.

Umwana muto cyane, urimo aravoma amazi kuri robine mu gikombe, uyu mwana yambaye umupira w'umutuku, bigaragara ko arimo araseka, aho yishimiye aya mazi.

Umwana mutoya wambaye ikanzu afite n'imisatsi y'umukara isutse, ndetse kandi uyu mwana ari kuri robine afite icupa aho agiye gushyiramo amazi arifashisha gukora imirimo igiye itandukanye.

Iki cyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, abo bantu baricaye. Ariko imbere y’aho hariho umugabo uhagaze usa nk’aho arimo arababwira imbwirwaruhame ndetse kandi imbere yabo hari icyapa cya RBC, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Umwana wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikabutura ifite imifuka ku ruhande, ni umwana ari kumwe n'indobo z'ubururu ebyiri ndetse kandi akaba arimo aravoma amazi kuri robine, aho iyo robine yubatse neza, hirya yaho hari ibiti bigiye bitandukanye bisa icyatsi.

Umugabo n'umugore barimo baravoma, ndetse kandi buri wese akaba afite ijerekani, ndetse akaba ahagaze kuri robine ye arimo arifashisha mu kuvoma, hejuru yabo hahagazeho undi mugore bigaragara ko arimo kugenzura imikoreshereze y'aya mazi ndetse n'uburyo akoreshwa avomwa.

Ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bose bambaye udupfukamunwa, aho hariho umugore urimo arakingirwa ndetse kandi uyu mugore bikaba bigaragara ko arimo arababara.

Ni icyumba kiri kuberamo inama, ubona ko harimo abayobozi batandatu bicaye imbere y'abandi, aho ari kwigwa ku bibazo bigiye bitandukanye ndetse kandi bigaragara ko abantu batuje bose bahurije ku ngingo imwe.

Uyu mwana arimo aravoma amazi kuri robine. Iruhande rwe hari undi mwana ukiri mutoya na we urimo uravoma. Mu by'ukuri aya mazi barimo baravoma, ni amazi meza cyane kandi arabafasha gukora imirimo igiye itandukanye.

Aba ni abantu batatu, harimo umujyanama w'ubuzima aho bigaragara ko arimo araganiriza uyu mugore ndetse n'umugabo we. Uyu mugore bariho baraganiza biragaragara ko atwite ndetse bikaba bigaragara ko uyu mujyanama w'ubuzima arimo arabigisha uko bakwiye kwitwara mu gihe batwite.

Aba ni abajyanama b'ubuzima, abajyanama b'ubuzima bishimiye igikorwa cyabaye kuri uyu munsi. Imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikositime nziza cyane, ndetse akaba ari umuzungu. Aba bari imbere y'inyubako y'ibitaro bya Mayange.

Aba ni ababyeyi, buri mubyeyi afite umwana, aba bicaye ku ntebe imwe ndetse kandi bigaragara ko bategereje serivise z'ubuzima, cyane cyane izigenerwa abana babo.

Uyu ni umugore ukinyeye igitenge, yambaye umupira w'amaboko maremare, yambaye n'ingofero mu mutwe, afite amajerekani menshi cyane arimo aravoma, aravoma kuri robine na yo yubatswe mu buryo bwiza cyane. Iyi robine ikaba irimo iratanga amazi menshi.

Umubyeyi ndetse n'umwana bari kumwe n'abaganga babiri umugabo ndetse n'umugore. Abaganga ubona ko bari guha serivise umwana ndetse kandi akenshi bikaba bikunze gukorwa kugira ngo barengere ubuzima bw'umwana ukiri muto cyane.

Aba ni abana benshi bahanitse ibiganza byabo, aba bana bambaye amashati y'umuhondo, inyuma yabo hari abandi bantu bagaragara ko ari bakuru ndetse kandi bigaragara ko ari bo ubarebera cyangwa se hari ibigiye bitandukanye babafasha.

Umubyeyi ufite umwana mutoya mu ntoki, ari kumwe na muganga wambaye itaburiya ndetse kandi uyu muganga akaba yambaye uturindantoki, uyu muganga arimo aratanga serivise z'ubuvuzi kuri uyu umwana mutoya.

Iki ni ikirangantego cy'ishami rya roni rikunze kwita ku biryo, ni ikirangantego ikiri mu ibara ry'ubururu, amagambo yandikishije mu ibara ry'umweru ndetse kandi hakaba hashushanyijeho n'igishushanyo kiri mu ibara ry'umweru.

Aba bambaye imyenda y'akazi, bambaye utugofero tw'ubururu n'udupfukamunwa ndetse kandi bafite udukarito mu ntoki, ibi akenshi bikunze kuba mu bitaro kuko aba bambaye imyenda y'abakozi b'ibitaro cyangwa se abaganga.

Aha ni ahantu heza cyane, ubona ko hari ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse kandi hakurya yabyo hariho ibiti, ibyo biti bikaba bisa icyatsi.

Abantu ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso ndetse kandi baka bahagaze imbere y'icyapa kinini, aba bantu bakaba bagaragaza nk'aho hari ikintu bahuriyeho ndetse kandi bakaba bambaye neza ku mpande zigiye zitandukanye.

Ni abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu cyumba cy'ameza maremare, imbere yabo buri muntu wese ateretse icupa ry'amazi ndetse kandi imbere yabo hari televiziyo nini cyane.

Ni umuganga wambaye imyenda y'akazi, aho arimo aratanga serivisi z'ubuvuzi ku murwayi, bombi bahuriye ku kuba bambaye udupfukamunwa, bari mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa cyane cyane n'abavuzi cyangwa se abaganga mu bitaro.

Uyu ni umuhanzi dukunda cyane hano mu Rwanda, amazina ye akaba yitwa Israel Mbonye, Israel mbonye akaba afite umwana mu ntoki bigaragara ko uyu mwana arimo arapimwa ibiro.

Umwana muto cyane urimo arikorera indobo y'amazi, ni umwana bigaragara ko akoreshwa imirimo ivunanye kuko mu by'ukuri iyi ndobo iramurusha imbaraga.

Ni abantu bari mu cyumba ubona ko bari mu nama, ku ruhande rumwe hicaye abagore, ndetse no ku rundi ruhande hakaba hicaye abagabo, imbere yabo hakaba hariho umuntu urimo arabakoresha inama umeze nk'aho ari umuyobozi wabo.

Aba ni abaturage bose bahuriye mu cyumba cy'inama, aho barimo baraganira cyangwa barigishwa ku bintu bigiye bitandukanye, ariko byerekeye ubuvuzi cyangwa se ubuzima.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, haba abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko barimo barafata ifoto y'urwibutso ndetse kandi harimo n'abaforomo bagiye batandukanye, aho bigaragara ko aha batanga serivisi z'ubuzima.

icyumba kirimo abantu babiri, umugabo ndetse n'umugore, iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ubonamo ameza, kompuyuta, intebe ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Ni umuntu urimo ukaraba mu ntoki, aho arimo akabira ku iriba. Bigaragara ko nyine risohora amazi menshi cyane. Aho uyu muco wo gukaraba mu ntoki ari mwiza cyane, ndetse kandi ukaba ufasha abantu mu kwirinda indwara zandurira akenshi mu ntoki, harimo nk'indwara zo mu nda n'izindi zigiye zitandukanye.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku, akaba yambaye n'agashati hejuru ka gisirikare, uyu akaba afite indobo irimo amazi ndetse kandi akaba ari kunywa amazi ya robine akoresheje intoki.

Uyu ni umugabo wambaye ishati ndetse kandi akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, ari kuri robine arimo aravoma amazi. Uyu mugabo mu by'ukuri arimo araseka aho yishimiye iterambere umudugudu wabo wagezeho.

Iri ni ishami rya Loni cyane cyane rikunze kurengera ndetse no kwita ku mwana. Ni amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, akaba yanditse ahantu heza ndetse afite ibara ry'ubururu ariko butijimye cyane.

Aba ni abajyanama b'ubuzima, abajyanama b'ubuzima ni abantu bafasha cyane cyane mu bintu by'ubuvuzi aho bakunze kwegerezwa abaturage mu ngo mu gihe habaye ikibazo cy'ubuzima.

Abagore babiri ndetse bambaye neza, bose bashyize amaboko yabo ku meza, umwe yambaye neza kandi yiteze igitambaro mu mutwe, undi na we yambaye umupira w'umukara ndetse n'ikoti ririmo uturongo tw'umukara ndetse n'umweru, bose basa neza cyane.

Ni umwana ufite indobo nyinshi uyu mwana akaba ari iruhande rwa robine, iyi robine ni robine ikoreshwa mu kuvoma cyangwa se mu gutanga amazi, aho zikunze gushyirirwaho abaturage kugira ngo birinde kujya gukura amazi kure.

Ni umugabo wambaye imyenda y'abatanga serivisi z'ubuzima cyane cyane abajyanama b'ubuzima, ari kumwe n'umugore ucyenyeye igitenge aho arimo aramwereka ifoto y'umwana w'umuhungu ndetse n'umwana w'umukobwa.

Ni icyapa kiriho ibirango bya wasake aho handitse wasake wota andi sanitation koroporasheni. Wasake yifashishwa cyane cyane mu kwegereza amazi abaturage, aho amazi hifashishwa mu mirimo igiye itandukanye.

Ni abantu benshi bahurijwe ahantu hamwe, aho barimo barahabwa serivise z'ubuzima. Uko bigaragara ni ababyeyi bari kumwe n'abana babo, aho bari mu gikorwa cyo kubakingira indwara zigiye zitandukanye zikunze kwataka abana bakiri bato.

Ni abaturage barimo baravoma amazi kuri robine, amazi akaba akunze kwifashishwa n'abaturage bagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu, mu kuyakaraba, guteka, koza ibyombo, kumesa ndetse no kuba bayakoresha indi mirimo igiye itandukanye mu ngo zabo.

Uyu muhanzi yitwa Israel Mbonyi, akaba arimo aragaburira abana cyane cyane aho ubona ko arimo arakoresha intoki agaburira uyu mwana mutoya cyane, nawe urimo uramureba mbese ntabwo ari kumukuraho amaso.

Ni icyapa kiriho minisitiri w'ubuzima Dr Sabe Nsanzimana, munsi y'ifoto ye hakaba hariho ijambo RBC, iki akaba ari ikigo cy'igihugu cyita ku buzima ndetse kandi bikaba bigaragara ko aha ikivugwaho ari kanseri.

Umubyeyi bigaragara ko arimo aroza umwana we intoki, umubyeyi akaba yambaye agapfukamunwa n'umupira w'ubururu, uyu mwana bigaragara ko yambaye umwenda w'ishuri, aho gukaraba mu ntoki ari ibintu byiza cyane ndetse birinda indwara zitandukanye zandurira mu gukorakora ku bintu bigiye bitandukanye.

Aha hari abana babiri, umwe bigaragara ko ari gufasha undi mu kwikorera indobo irimo amazi ndetse kandi amazi akaba ari meza mu buzima bwa muntu, aho yifashishwa mu mirimo igiye itandukanye kandi ifasha abantu mu buryo ubu n'ubu.

Uyu ni umugabo wambaye ipantaro ya kake n'itaburiya y'umweru ndetse akaba yambaye n'inkweto z'umweru, uyu mugabo ahagaze imbere y'abantu benshi bo mu ngeri zigiye zitandukanye, haba abagabo n'abagore ndetse kandi bigaragara ko arimo arabagira inama zigiye zitandukanye, wagira ngo izo nama zerekeje ku buzima kuko uyu mugabo aragaragara nk'umuvuzi cyangwa se umuganga.

Ni abana b'abahungu n'abakobwa aho barimo baranywa amazi bavomye ku kigega. Ni abana bambaye impuzankano ubwo bisobanuye ko ari abanyeshuri.

Umugore ufite impapuro z'umweru mu ntoki, akaba arimo araha urundi rupapuro rw'umweru undi muntu ku ruhande. Inyuma ye hari n'abandi bafite impapuro z'umweru, ndetse aha hantu bari harimo abantu benshi bagiye batandukanye.

Ni abantu benshi b'abagore bicaye, imbere yabo hari abagabo babiri bahagaze, hari umwe mu bagabo, ufite urupapuro rw'umweru mu ntoki ndetse kandi akaba arimo arababwira ku ngingo zigiye zitandukanye.

Uyu ni umukobwa urimo aravoma amazi, amazi agendera mu miferege, cyane cyane aya amazi agaragara hagati mu misozi, aya mazi rero akunze gutera indwara ndetse kandi hakaba harimo indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane iz'impiswi cyangwa se indwara zo mu nda.

Abantu batanu, babiri bicaye ndetse na batatu bahagaze, mu bahagaze harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe. Abo bantu bose uko ari batanu, bahuriye ku kuba bambaye udupfukamunwa. Hariho intebe z'ubururu ndetse kandi abo bantu bari ku rubaraza rw'inzu.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, ubona ko bishimye ndetse kandi bigaragara ko bakora muri serivisi z'ubuzima, aba bantu ubona ko bishimiye umushyitsi wabasuye, aho umushyitsi wabasuye yambaye neza ikote ry'umukara ndetse akaba yambaye na rinete ndetse bikaba bigaragara ko ari umuzungu.

Aba ni abantu bane, hariho ab'igitsina gabo batatu ndetse n'uw'igitsina gore umwe. Aba abantu barimo baravoma amazi ku iriba ndetse kandi bafite udukoresho bakoresha bavoma aya mazi, tuzwi ku izina ry'utujerekani.

Aha hari abantu bagiye batandukanye, abakecuru, abamama, abagabo ndetse n'abandi aho bigaragara ko bari guhabwa serivise zigiye zitandukanye ndetse kandi aho bari, hari amahema ashinze kandi hari n'inyubako ubona ko itagirwarwamo serivise z'ubuzima.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara. Akaba arimo arakaraba intoki kuri kandagira ukarabe yikoreye ubwe. Iyi kandagira ukarabe ayifashisha mu gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye zandurira mu gukorakoranaho.

Abana bato cyane, bakikije umubyeyi bigaragara ko ari umukecuru cyangwa se ashaje, ni abana barimo abahungu ndetse n'abakobwa ndetse kandi ubona ko bafite ikintu bari kwitegereza imbere yabo.

Aha biragaragara ko hari umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu ndetse irimo n'umweru, biragaragara ko ari kuganira n'undi mubyeyi wambaye imyenda y'umukara, bigaragara ko imbere yabo hari ibikoresho bigiye bitandukanye, cyane cyane byifashishwa n'abaganga iyo barimo barasuzuma abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Aha hari abantu bagiye batandukanye, aho ndimo ndabonaho umugore umwe urimo gutanga serivisi zigiye zitandukanye ku bandi, aba bantu icyo bahuriyeho ni uko bambaye udupfukamunwa ndetse kandi ndabona ku ruhande hariho umugabo uhagaze wambaye ikositime kandi inyuma ye hakaba harunze intebe.

Ni umuntu wipfutse igitambaro mu maso, aho keshi ibi bikunzwe gukora n'umuntu ufite agahinda cyangwa se urimo ararira. Umuntu agira agahinda cyangwa se akarira igihe yahuye n'ibibazo cyangwa se afite ikintu kimuhangayikishije.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'umugabo wicaye iruhande rwe, wambaye ikote ryiza cyane ndetse n'agapfukamunwa, bicaye ku meza magari, bigaragara ko hari abandi barimo barabwira, inyuma yabo hari ibyapa bya RBC, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Yambaye imyenda icitse hasi no hejuru, nta nkweto yambaye, afite umusatsi urimo akavuyo ndetse n'umwanda, afite umuneke mu ntoki nk'uko bigaragara uyu rwose afite ikibazo cyo mu mutwe.

Aha biragaragara ko ari umugore n'umugabo, umugabo akaba arimo arandika mu gitabo, ndetse kandi imbere yabo hakaba hateretse amazi, ndetse bakaba barimo barandika ibintu bigiye bitandukanye, aho bigaragara ko hari serivise, uyu mugabo ari guha uyu mugore.

Umubyeyi ufite umwana mu ntoki, ari kumwe n'undi mubyeyi wambaye umupira w'umweru ndetse kandi akaba afite telefone mu ntoki, arimo aramwereka agakoresho kifashishwa mu gupima ubushyuhe, bigaragara ko aka gakoresho arimo aragakoresha mu buvuzi.

Aha hari abahungu n'abakobwa ndetse kandi biragaragara ko harimo n'umuzungu aho aba bahungu n'abakobwa, bambaye, hejuru bambaye imipira y'ubururu ndetse kandi hasi harimo abambaye amapantaro y'umukara, abambaye amakoboyi agiye atandukanye ndetse harimo n'uwambaye ipantaro y'umutuku.

Yicaye ku muhanda yambaye ikabutura ndetse n'ipine mu nda, uyu afite imisatsi isa nabi mu by'ukuri uwamubona yagira ngo afite ikibazo cyo mu mutwe.

Ni abantu bafite umuntu hagati yabo wambaye imyenda icitse ndetse kandi uyu muntu mu bigaragara ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Inyuma yabo hariho n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Aha hari abantu benshi bagiye batandukanye, bahagaze bamwe bambaye imipira y'umukara, abandi bambaye imipira y'umweru ndetse harimo n'uwambaye ishati. Imbere yabo hari ameza, atatseho indabo ndetse n'ibipapuro bigiye bitandukanye, ndetse n'ibitambaro by'umukara, aho bahagaze munsi ya shitingi.

Aha hari amagambo menshi cyane, ni amagambo yanditse mu mabara agiye atandukanye, amwe akaba yanditswe ahagaritse ndetse andi akaba yanditswe atambitse, ni amagambo yose ahuriza ku kuba asobanura ubuzima bwo mu mutwe.

Ni inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, imbere yayo hari urukuta rw'amabuye rwubatse ku mukingo. Ndetse kandi hari n'ibyuma umuntu afataho iyo arimo arazamuka cyangwa se aramanuka, ni inyubako iteye irangi ry'umuhondo, isakajwe n'amabati y'umutuku.

Ni abagore babiri bicaranye, bicaye ahantu ku gatebe karambuye, inyuma yabo hari ibiti birunzeho ndetse kandi umugore umwe afashe undi ku rutugu.

Ni umugabo wambaye nabi, yambaye imyenda icitse ndetse kandi hari n'ibintu afite mu ntoki, uyu mugabo yicaye ku rukuta rw'inzu ndetse kandi yambaye ibirenge, akaba yicaye kuri iyi nzu yegereye umuhanda.

Ni umugabo wambaye umupira w'umutuku akaba yicaye ku gikarito ndetse kandi akaba yicaye ahantu ku rukuta, uyu mugabo ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe cyangwa se yarirwariye umutwe.

Uyu ni umusaza ushaje cyane yambaye ingofero bigaragara ko isa nabi, afite umwitero w'umuhondo yambaye ishati ndetse kandi amenyo ye ubona ko ari ibihanga, akaba afite icumu mu ntoki.

Umugabo wambaye neza aho yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse na karuvate, uyu mugabo ahagaze imbere y'indabo ndetse kandi nk'uko bigaragara, uyu mugabo arimo aribuka umuntu we wapfuye cyangwa se witabye Imana.

Uyu ni umuntu bigaragara ko yambaye nabi ndetse kandi akaba afite n'umusatsi, urimo umwanda mwinshi, uyu mugabo bikaba bigaragara ko ari ahantu na ho hatameze neza ndetse akaba bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abana benshi ni abana barimo abahungu ndetse n'abakobwa, aho aba bana harimo n'abafite utujerekani, ahantu bahagaze hari ibyatsi byumye ariko inyuma yabo hari ibyatsi bitoshye cyane.

Yambaye umupira w'umutuku, ahagarikiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, yambitswe amapingu, ndetse kandi uyu biragaragara ko ari gushyirwaho amafoto agiye atandukanye.

Ni abantu bagiye batandukanye bari mu ngeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore hagati yabo harimo umupolisi, inyuma yabo hari ibyapa bigiye bitandukanye, harimo icyapa cy'umutuku, ubururu, ndetse kandi aba abantu inyuma yabo ubwatsi bwa pasiparumu ndetse n'indabo.

Aha hari abantu bagiye batandukanye. Biragaragara ko harimo abagabo ndetse n'abagore, kandi hakaba bari mu nyubako imeze neza, ndetse imbere yabo, hakaba hari umuntu urimo arababwira ijambo, aho bigaragara ko bose bateze amatwi, bari kumwumva.

Uyu mubyeyi yambaye ikote ry'umukara, yambaye ikanzu nziza cyane y'umutuku. Afite imisatsi myiza ndetse kandi uyu mubyeyi ni inzobe. Ahagaze mu nyubako isa neza cyane, imbere y'icyapa kiriho ibara rya oranje.

Ni umugabo ubona ko afite ibibazo ndetse kandi akaba yubitse umutwe mu biganza bye, ku ruhande hari umukobwa wamushyize akaboko ku rutugu, uyu mukobwa akaba arimo aramuhumuriza ndetse akaba arimo kugerageza kumufasha kuva mu bibazo arimo.

Ni umugabo wambaye imyenda yacitse ndetse kandi akaba agaragara nk'ufite umwanda, aho yisize imbyiro mu maso, inyuma ye hari ikamyo, iyi kamyo ikaba irimo iragendera mu muhanda.

Umukecuru urimo arateka, imbere ye hari igikombe cy'icyatsi, arimo arakoresha uburyo gakondo ateka, uyu kandi afite imvi z'uruyenzi, akaba yambaye ibitenge bigiye bitandukanye, impande ye hari umufuniko, upfundikira isafuriya atekeyemo n'ubwo atawupfundikishije.

Ni umugore wambaye igitenge, ndetse n'ishati, akaba yambaye inkweto za siripa, yicaye ku ntebe irambuye, imbere ye hari umusambi, uyu mugore yicaye mu nzu ubona ko idasa neza cyane.

Ni inyubako isa neza, inyubako iriho ibyapa bigiye bitandukanye, ni ibyapa bigaragaza ko iyi nyubako ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi.

Icyapa kiriho umukobwa urimo uraseka, iki cyapa kikaba gisa ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse na move. Ni icyapa kirimo kiratangaza ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Ni umugabo uhagaze imbere y'inyubako nziza cyane, inyubako ubona ko iteye amabengeza, ndetse kandi uwo mugabo akaba yambaye ishati nziza cyane, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Ni abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye, aho bahagaze imbere y'inyubako, harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe bambaye amakote meza cyane, abandi bambaye amakanzu meza, aba ngaba barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Uyu mukecuru biragaragara ko ashaje cyane, aho yambaye urunigi mu ijosi ndetse akaba yiteze igitambaro mu mutwe, ariko uyu mukecuru mu by'ukuri akaba agaragaza iminkanyari mu maso.

Umugabo wambaye neza cyane, ubona ko afite ubwanwa ndetse n'asatsi gakeya, inyuma ye hari abandi bantu benshi cyane, abo bantu na bo bari mu ngeri zitandukanye, aho habarizwamo abagabo ndetse n'abagore.

Aba ni abantu barimo barafata ifoto y'urwibutso, aba bantu imbere yabo hari abaciye bugufi naho inyuma hakaba hari abahagaze bari mu ngeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo. Bari mu cyumba cyiza cyane ndetse kandi harimo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni abantu bo mu ngeri zigiye zitandukanye, abantu hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abana batoya urubyiruko .Bafite icyapa kinini cyane ,cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse kandi iki cyapa na cyo kikaba kigizwe n'amabara agiye atandukanye, aba bantu nk'uko bigaragara barimo barifotoza.

Uyu n'umuganga urimo uratanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo. Arimo arakura uyu mwana iryinyo, mbese ubona ko uyu mwana yarwaye iryinyo cyane cyane ikijigo.

Ni umugabo uri kumwe na mugenzi we, aho uyu mugabo ari gukoresha bwo gusukura amenyo akoresheje urudodo. Ubu buryo bukunze gukoreshwa n'abantu batandukanye, aho babwifashisha mu gusukura amenyo yabo, kugira ngo bamaremo imyanda yose.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ni icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo ndetse kikaba gisa neza cyane, iki cyumba gikorerwamo n'umuntu ukitaho.

Aya ni amenyo nk'uko bigaragara aha bifashishije icyuma gisikana ndetse bapima uyu muntu niba afite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo.

uyu arasamye arimo arakorerwa ubuvuzi bw'amenyo, aho ubuvuzi bw'amenyo bukunda gukorwa cyane n'abaganga babyigiye. Kugirango bahe serivisi abaturage, bagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu ku ndwara cyane cyane y'amenyo.

Umusore ufite umusatsi w'umukara n'ubwanwa bw'umukara yambaye ikoti rigiyeho ikoboyi n'umupira mwiza cyane usa shokora, uyu musore afite ibyishimo kuko arimo araseka.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, uyu muganga ari kumwe n'umurwayi, aho umurwayi yasamye ndetse kandi umuganga akaba arimo aramuha serivise z'ubuvuzi bw'amenyo.

Uyu yambaye umupira mwiza cyane ndetse kandi akaba afite umusatsi w'umukara cyane, mu ntoki ze afitemo agakoresho bigaragara ko arimo yerekana icyo ako gakoresho kamaze.

Ni umukobwa mwiza w'inzobe ikeye, umukobwa wambaye isengeri y'umweru ndetse kandi akaba yiteze igitambaro cy'umweru mu mutwe, uyu mukobwa arimo aroza amenyo akoresheje uburoso ndetse n'umuti w'amenyo.

Uyu muntu biragaragara ko afite agakoresho gakunda gukoreshwa mu kurinda amenyo, aho akenshi gakoreshwa gashyirwa mu menyo, cyane cyane iyo umuntu asoje kurya, agira ngo ngo amenyo ye atangirika cyangwa se agira ngo gashyire amenyo ye ku murongo.

Uyu ni umwana bigaragara ko ari muto cyane, umwana usa neza kandi mwiza, ndetse kandi akaba yagiye kwa muganga kwivuza amenyo, bigaragara ko umuganga arimo kumukorera iyi serivisi, aho umuganga yambaye uturindantoki, tumufasha kutandura cyangwa se kwanduza umwana indwara zijyiye zitandukanye.

Ni abaganga babiri bambaye udupfukamunwa ndetse kandi bakaba bambaye na mataburiya sibyo gusa kandi bambaye n'uturindantoki bari kumwe n'umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi mu cyumba cyihariye aho barimo baramuvura indwara y'amenyo.

Ni umuganga uri mu cyumba kimeze neza, icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru, ndetse akaba yambaye n'agapfukamunwa n'igikoresho kimufasha gukinga ku maso. Ni umuganga ubona ko atanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo.

Ni abantu bishimye cyane, aba bantu hakaba harimo abicaye, abahagaze, harimo kandi abagore ndetse n'abagabo. Aba ngaba bishimiye igikorwa cyabaye uyu munsi ndetse kandi harimo n'abafashe posite nk'abarimo barifotoza.

Iki ni icyumba gikorerwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, bigaragara ko umuganga arimo aravura umurwayi, aho muganga yambaye uturindantoki ndetse n'itaburiya yifashishwa kwa muganga ndetse kandi akaba afite rinete mu musatsi.

Aha hari abantu bagiye batandukanye, bambaye imipira y'icyatsi ndetse kandi bari ku meza maremare, bigaragara ko imbere yabo hariho umuti w'amenyo kandi bikaba bigaragara ko, hari umwe urimo arawukoresha yereka abandi uko ukoreshwa.

Ni umuganga wambaye uturindantoki, ari kumwe n'umurwayi w'umugabo, aho arimo aramuha serivisi yo gusukura amenyo ye ndetse kandi ibi bikaba bikunze gukorwa hirindwa indwara zandurira mu kanwa.

Ni umusore urimo uraseka, ni umusore wambaye umupira w'umweru ndetse kandi akaba afite isura icyeye, uyu musore inyuma ye hariho icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, bigaragara ko uyu musore yishimye.

Ni abantu benshi harimo n'umuganga, aba bantu bose bari kwitegereza umwana wambaye ishati y'icyatsi, aho afite kimwe mu byifashishwa n'abaganga, mu kwigisha abantu ibijyanye n'ubuzima bw'amenyo.

Uyu muntu arimo guhabwa ubuvuzi bw'amenyo. Uyu muganga ari gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo abe yafasha uyu muntu kuba yakira indwara y'amenyo cyangwa se yagira amenyo meza. Iyi ndwara y'amenyo ikomeje kugariza abantu bagiye batandukanye hirya no hino, kubera kutamenya uburyo basukura amenyo yabo.

Uyu arimo arakora isuku y'amenyo akoresheje uburyo bw'urudodo, ubu buryo bukunze kwifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, mu rwego rwo kumara imyanda yose iri mu menyo yabo.

Ni umwana wasamye, aho hari amaboko yambaye uturindantoki, ibi bikaba bikunze gukorwa n'abaganga cyane, uyu mwana mu kanwa ke harimo icyuma kirimo kireba niba afite uburwayi bw'amenyo.

Abantu bambaye imipira y'icyatsi yanditseho tubiteho, aba bantu barimo barakorerwa ubuvuzi bw'amenyo, aho abaganga barimo kubafasha bambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki.

Ni umukobwa ufite amenyo meza cyane, ndetse kandi akaba afite n'iminwa myiza, aho bigaragara ko afite uruhu rwiza, ndetse uyu mukobwa akaba arimo aratunga intoki ze uko ari ebyiri mu kanwa ke, bigaragara ko arimo arerekana uko yasukuye amenyo ye.

Umusore ubona ko ameze neza, musore abona ko asa nkuwakoze siporo. Ni umusore urimo arakoresha uburyo bw'urudodo, atunganya cyangwa se asukura amenyo ye. Gusukura amenyo akaba ari igikorwa cyiza cyagakozwe na buri muntu wese wumva ko akeneye kwirinda kurwara indwara zandurira mu menyo.

Ni umwana wasamye, uyu mwana akaba arimo yitabwagaho ku bijyanye n'indwara y'amenyo, biragaragara ko ari umuganga, wambaye uturindantoki ndetse akaba afite n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga, mu buryo bwo kuvura abantu uburwayi bw'amenyo.

Uyu ni umukobwa, umukobwa mwiza cyane, umukobwa ufite uruhu rutoshye ndetse kandi ufite n'iminwa myiza, ariko ikirenzeho ni uko uyu mukobwa afite amenyo meza cyane ndetse n'amaso meza, uyu mukobwa arimo arakora ibimenyetso bigaragaza ko aseka neza.

Aha hari imashini bigaragara ko yifashishwa n'abaganga igihe bari kuvura amenyo, aha kandi hari ikiganza cy'umuganga wambaye uturindantoki, bigaragara ko hari ishusho ari kureba y'amenyo, aho agiye gutanga serivise zigiye zitandukanye ku murwayi urwaye amenyo.

Ni umuganga wambaye imyenda y'akazi, yambaye agapfukamunwa n'amadarubindi, ndetse yambaye n'uturindantoki, arimo aravura uyu murwayi amenyo, ni mu gihe kandi ari mu cyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye n'imiti.

Ni umukobwa mwiza cyane, umukobwa ufite agakoresho gakunze kwifashishwa mu gusukura amenyo, aka gakoresho gakunzwe kumenywa mu buryo bw'urudodo, aho bagakoresha bagacisha mu menyo, kakavanamo imyanda yose iba iri mu menyo itabashije gukurwamo n'uburoso.

Ni umuganga wambaye uturindantoki tw'umutuku, afite n'icyuma gikunze kwifashishwa cyane cyane mu gukura amenyo ku bantu barwaye amenyo, uburwayi bw'amenyo ni uburwayi bukunze kwibasira cyane cyane abantu batajya bakora isuku y'amenyo neza uko bikwiye.

Umugabo wambaye umwambaro mwiza cyane w'amaboko magufi, yambaye indorerwamo z'amaso, ndetse kandi imbere ye hari ibikoresho bigiye bitandukanye. Aho bigaragara ko agiye gusukura amenyo ye rwose, ubona ko yiyubashye akaba ataha ahantu heza.

Umusaza wishimye, urimo araseka, yambaye umupira urimo uturongo tw'ubururu dutambitse; umusaza ubona ko afite imvi, ndetse kandi yishimiye umuntu bari kumwe, aho ubona ko barimo barakina umukino.

Umukecuru w'imvi z'uruyenzi wambaye umupira urimo uturongo tw'umukara ndetse kandi akaba yambaye n'amadarubindi uyu mukecuru ari kumwe n'undi mukobwa ukiri muto cyane aho yambaye imyenda y'akazi ndetse kandi akaba afite n'ibikoresho by'akazi uyu mukobwa amukoze mu kiganza.

Umwana n'umubyeyi, umubyeyi urimo arita kuri uyu mwana mutoya. Ni umwana ufite agapupe mu ntoke, ndetse kandi arimo aritegereza umubyeyi we mu maso cyane.

Ni umugabo urimo ufashwa kwiga gutambuka yemye, arikwifashisha gutambuka akoresheje igikoresho gikunze kwifashishwa cyane mu Bitaro. Arikumwe n'umuganga urimo aramumenyereza kugenda. Aho akenshi bikunze kubaho igihe umuntu ageze mu izabukuru. Akaba yananirwa gukoresha umubiri we neza nk'uko abishaka.

Ni umukecuru ufite inkoni mu kiganza cy'iburyo akaba ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya ndetse akaba afite n'igikoresho cyifashishwa mu buvuzi aho acyambaye mu ijosi.

Ni abagore barimo n'abagabo bagiye batandukanye aho abangaba bahagaze ahantu hari ibyatsi byinshi cyane, ubona ko bishimiye igikorwa barimo aho bose bazamuye amaboko hejuru.

Ni umukecuru urimo urafasha umusaza, akamuha amazi yo kunywa, aba bombi ubona ko bashaje. Mu by'ukuri amazi ni meza kuri buri muntu, waba uri umwana, umusore, umubyeyi, cyangwa se umusaza.

Aha hari abantu babiri batandukanye, umwe w'igitsina gore ndetse n'undi w'igitsina gabo, biragaragara ko uyu ugaraga nk'igitsina gore, ari guha serivise zigye zitandukanye z'ubuvuzi kuri uyu wambaye ishati iy'ubururu ndetse kandi akaba yambaye n'agagapfukamunwa, biragaragara ko ari kumusuzuma indwara y'umutima.

Umusaza wambaye ishati y'ikigina ndetse kandi afite umusatsi urimo imvi, uyu musaza afite agakoresho gakunze gukoreshwa cyane cyane mu kureba uko amaraso arimo aragenda mu mubiri wa muntu, aka gakoresho yagashyize ku kuboko kw'ibumoso, ni na byo uburyo arimo gukoramo kugira ngo amenye uko amaraso ye arimo aratembera mu umubiri.

Uyu ni umubyeyi w'umumama, urimo urakora siporo ndetse afite n'ibyishimo byinshi cyane. Afite igikoresho gikunze kwifashishwa mu gukora siporo, mu biganza bye. Ndetse kandi uyu biragaragara ko, yambaye imyenda ya siporo.

Ni umugore urimo arategura imiti ndetse kandi uyu mugore akaba yambaye rinete, yambaye ishati y'umuhondo, akaba afite n'imisatsi myiza cyane, ni umugore wishimiye ibyo arimo arakora.

Umubyeyi rwose, wishimye cyane, yambaye umupira usa umutuku ndetse kandi akaba yiyambariye indorerwamo z'amaso, akaba yiteze igitambaro cy'umukara mu mutwe. Ari kumwe n'umuntu, wambaye imyenda y' ubururu hejuru, akaba afite imisatsi yafungiye inyuma y'umukara.

Bombi bicaranye ku ntebe imwe, uyu muganga arimo arapima uyu musaza umuvuduko w'amaraso, uyu musaza yishimiye serivisi ari guhabwa n'uyu muganga.

Umugore n'umugabo ubona ko bashaje, imbere yabo hari impapuro z'umweru. Umugore arimo arereka umugabo, ndetse kandi mu bigaragara inyuma yabo hariyo intebe nyinshi cyane, kandi aba bicaye mu cyumba kinini cyane kandi kirimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Umusore ndetse n'umusaza, umusore wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro ijya gusa umukara ariko atari umukara cyane, ni umusaza wambaye ingofero, yambaye ishate ndetse kandi yambaye ipantaro y'umukara n'isaha ku kuboko kw'ibumoso

Umusaza wambaye amadarubindi, afite imvi z'uruyenzi yambaye umupira w'umukara, ari kumwe n'umugore ufite imisatsi myinshi ndetse kandi yambaye umupira w'umuhondo. Uyu umugore imbereye hateretse igitabo cy'impapuro z'umweru ndetse n'Ikirahure ku meza, uyu umugore afite ibinini.

Uyu ni umuryango unezerewe, ni umuryango ubona ko bishimiye ubuzima babayemo, aho umukecuru n'umusaza bishimiye abana babo bababyariye umwuzukuru.

Abantu babiri, umwe arahagaze, uhagaze yambaye itaburiya isa umukara, uwicaye yambaye umupira mwiza cyane usa ivu ndetse akaba afite agapapuro kajya gusa umutuku yaramburiye mu kirere.

Abakecuru babiri bose bambaye imipira y'umutuku ndetse bambaye n'imishanana, bigaragara ko bose bafite ibibando mu ntoki, abakecuru mu by'ukuri biragaragara ko bashaje ariko inyuma yabo hariho abantu benshi bagiye batandukanye aho bigaragara ko bafite aho barimo barerekeza.

Ni umusaza wambaye ishati irimo uturongo tw'umukara tumanuye, ari kumwe n'umugore umufasha mu gutambuka, baraye mu cyumba cyiza cyane aho bafite igikoresho gikunze kwifashishwa n'abantu bageze mu za bukuru, ndetse kandi bakunze kukifashisha mu gutambuka kugira ngo bagorore amaguru n'izindi ngingo.

Ni icyumba gisa neza cyane. Icyumba kirimo abantu babiri b'igitsina gore ndetse n'uwigitsina gabo. Uw'igitsina gabo biragaragara ko ashaje ndetse kandi arimo aritabwagaho.

Uyu ni umuntu bigaragara ko arimo arafasha umuntu ugeze mu gihe k'izabukuru, aho arimo aramuha imiti igiye itandukanye ndetse kandi bikaba bigaragara ko, uyu musaza ugeze mu gihe k'izabukuru afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki, aho bigaragara ko uko agiye gufata...

Ni abantu barimo barakora siporo, abantu bakaba bari mu ngeri zigiye zitandukanye aho harimo abagabo ndetse n'abagore, bafite udukoresho twifashishwa cyane cyane mu gukora siporo z'amaboko aho utwo dukoresho twifashishwa ahantu cyane cyane mu byumba byifashishwa mu gukora siporo ndetse kandi bikaba bifasha n'abantu gukora izindi siporo zitari iz'amaboko gusa.

Ni umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru, akaba arimo aritabwagaho. Bigaragara ko uyu musaza nta mbaraga afite z'umubiri zo kuba yakwifasha ibintu bijye bitandukanye.

Umusaza urembeye mu bitaro, uyu musaza akaba aryamye ku gitanda cy'abarwayi, iruhande rwe hari umuganga urimo aramwitaho, ku rundi ruhande hari imashini zigiye zitandukanye, cyane cyane zifashishwa n'abaganga igihe batanga serivisi z'ubuzima.

Ni umusaza ubona ko ashaje cyane, umusaza ufite imvi z'uruyenzi, uyu musaza arimo aratozwa gukora imyitozo igiye itandukanye, aho abona ko ari kumwe n'umufasha we umufasha mu buzima bwa buri munsi mu kwita ku buzima bwe.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi, ari kumwe n'umumama ubona ko adashaje cyane, arimo aramusukira umutobe ndetse kandi imbere yabo hari imbuto n'ibindi ibiryo bigiye bitandukanye, bigaragara ko uyu musaza arimo ararya ifunguro rya mu gitondo.

Ni umusaza ufite isahani mu ntoki iriho ibiryo, imbere ye ku meza hariho amasahani ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye n'ikirahure cy'amazi ndetse n'ibiryo, ari mu cyumba cyiza cyane kandi ari kumwe n'undi muntu.

Umuntu ugeze mu gihe cy'izabukuru ndetse kandi akaba ari kumwe n'undi mukobwa mutoya cyane, urimo uramwitaho.

Umusaza urimo ukina urusoro, yambaye umupira w'umweru ariko urimo uturongo tw'ubururu dutambitse, afite imvi mu mutwe, arimo arakina uyu mukino w'urusoro nk'umwe mu mikino ikunda gufasha abantu kuruhura mu mutwe.

Umusaza urimo kugendera mu kagare ndetse kandi bikaba bigaragara ko ashaje mu by'ukuri, arimo araganira n'umwana mutoya cyane, umwana ufite igikoresho gikunze kwifashishwa mu gukina imikino igiye itandukanye.

Ni umusaza ubona ko ageze mu gihe cy'izabukuru, uyu musaza ari kumwe n'undi muntu urimo uramufasha gutambuka, akenshi iyo abantu nk'aba ngaba bageze muri iki gihe cyangwa se muri iyi myaka, hari ingingo zimwe na zimwe ziba zitagikora neza ku buryo bisaba abantu babafasha mu ubuzima bwa buri munsi.

Ni umusaza ubona ko arimo arafashwa, cyane cyane mu gukora imyitozo imufasha kurambura imitsi mu kaboko ke k'iburyo, urimo kumufasha biragaragara ko ari inzobere muri bino bintu, kuko agaragara nk'umuntu w'umuganga.

Umubyeyi w'umugabo arimo arakina basiketi n'umwana we, uyu mukino ni umukino mwiza cyane, aho ukunze kwifashishwa mu gukora siporo, nka kimwe mu bintu bikunze gufasha abantu kumererwa neza mubiri ndetse no kubona amafaranga abatunga.

Umugabo n'umugore bigaragara ko bishimye, umugabo yambaye umupira, imbere yambayemo ishatiy'umweru ndetse kandi akaba afite n'umusatsi urimo imvi. Ni mu gihe umugore yambaye umupira w'umutuku ndetse kandi akaba barimo bararya imbuto, bigaragara ko barimo kwirinda indwara zandurira mu umubiri.

Aha hari abantu bagiye batandukanye, aho bigaragara ko ari umusaza n'umukecuru uri imbere ndetse kandi aba bantu bikaba bigaragara ko ari igikorwa cyabateranirije aha ngaha mu buryo bugiye butandukanye.

Ni umusaza w'imvi z'uruyenzi, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, arimo aramufasha gukora siporo ngororamubiri ndetse kandi akaba arimo aramwerekera uko abigenza.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi, n'umukecuru nawe ufite imvi, bicaye imbere y'ameza magari, mu cyumba kirimo imitako myinshi. Uyu musaza arimo arasobanuza uyu mukecuru ufite uruparo rw'umweru, imbere y'abo hakaba hateretseho imiti igiye itandukanye ndetse n'amazi yo kunywa ari mu kirahuri.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi, wambaye indorerwamo z'amaso. Ni umusaza rwose ubona ko arimo arafashwa n'umukobwa mwiza cyane, arimo aramufasha gukora agasiporo koroheje, gatuma imitsi ye imera neza ndetse ikarushaho kurambuka.

Umusaza urimo arakina umukino uzwi ku izina ry'urusoro, uyu mukino ukaba ukunze gukinwa n'abasaza cyangwa n'abandi bantu b'urubyiruko, aho akenshi ufasha umuntu kuruhuka mu mutwe.

Ni icyapa gisa ubururu, iki cyapa kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse kandi hariho n'irindi jambo ryandikishijwe mu ibara ry'umuhondo.

Ni Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda Dogiteri Sabin Nsanzimana, aho afite urupapuro rw'umweru mu ntoki, ndetse kandi akaba arimo arakorwa mu ntoki n'undi mugabo bigaragara ko ari umuyobozi cyangwa se ari umuntu wiyubashye. Aba bombi biragaragara ko ari abantu b'abanyacyubahiro kandi bakwiye kubyubahirwa.

Ni icyapa kiriho amagambo agiye atandukanye, aho hariho icyatsi cyera cyane ndetse n'ubururu bwera, iki cyapa cyandikishijeho amagambo asa umukara ndetse kandi hari n'utundi tuntu turi haruguru tw'utuziga, turi mu mabara y'umweru hariho amagambo agiye atandukanye, hagati yatwo harimo ikimenyetso cyo guteranya.

Aba ni abantu bambaye neza kandi bari mu cyumba gisa neza, icyumba giteye amarangi y'umweru ndetse kirimo ibyapa bigiye bitandukanye, aba bantu bambaye amakoti y'umukara ndetse n'amapantaro y'umukara, harimo kandi n'abagore bambaye uko bishakiye.

Uyu ni umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, uyu mugore afite imisatsi y'umukara, yambaye amadarubindi ndetse kandi yambaye n'ikarita icyo twita baji mu ijosi, afite igitabo kirimo impapuro zigiye zitandukanye ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara.

Ni abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, umugabo yambaye itaburiya y'akazi, umugore na we ni uko, bari kumwe n'abaturage aho barimo barabafasha muri serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima.

Ni urupapuro ruriho ibara rya burusiyeri amagambo n'ubundi yanditswe muri iryo bara, hariho kandi nandi magambo yanditswe mu mukara hariho amafoto y'abantu agiye atandukanye, ndetse kandi hari n'amagambo menshi cyane cyane arimo nimibare.

Ni icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, aho iki cyapa kigaragaza umuganga ndetse kandi kikagaragaza n'umurwayi wicaye, uyu akaba arimo arahabwa urukingo, usomye amagambo neza ukayasobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda wakumva ko aha ngaha ari urukingo rwa covidi cumi n'icyenda arirwo ruri gutangwa.

Ni icyumba kirimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye higanjemo igitsina abagore, ndetse kandi aba bahuje kuba bambaye imyenda y'umweru hejuru, harimo abambaye imipira y'umukara ndetse kandi harimo n'umwe wambaye bitandukanye n'abandi, aho bigaragara ko ari nk'umushyitsi wabasuye cyangwa se umuyobozi wiyubashye.

Ni icyapa kiriho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru, iki cyapa kikaba kiriho amabara y'umweru ndetse n'amabara y'ubururu kiriho kandi igice cy'umutwe w'umuntu cyane cyane bibanze ku bwonko.

Ni umugabo uryamishijwe mu byatsi bya pasiparumu munsi y'igiti, iruhande rwe hariho abari kumufasha kumuha ubutabazi bw'ibanze, inyuma yabo kandi hahagazeho umugabo wambaye ijakete y'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa.

Ni umugore ufite imisatsi y'umukara, uyu mugore akaba ari ku cyapa kijya gusa oranje ndetse kandi hakaba hariho n'amagambo yandikishijwe umukara, aho uyu mugore ubona ko ari kumwenyura.

Aha ni icyapa kigaragaza imirire umuntu akwiye gufata, aho ibi ngibi bigaragaza ko umuntu akwiye kurya indyo yuzuye ndetse kandi bikaba byamufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye, zituruka ku mirire mibi.

Umubyeyi w'umumama wambaye neza, ufite imisatsi myiza cyane, uyu akaba arimo aratanga imbwirwaruhame imbere y'abantu, bigaragara ko na bo bamuteze amatwi bumva ibyo ababwira.

Aha baragaragaza amakuru agiye atandukanye ku bikinkije urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda, aho indwara ya Kovide cumi n'icyenda, yatatse ibihugu bigiye bitandukanye, hirya no hino ku Isi, ndetse kandi ikaba yarahitanye umubare munini w'abantu bagiye batandukanye bayanduye.

Ni amagambo yanditse ahantu h'umweru, aya magambo akaba ari mu tuzu tw'umukara. Hariho uturongo tugiye tumanuye tw'udufureshi ndetse kandi hakabaho n'utundi turongo, tugiye tuzamuye tw'udufureshi ariko tw'ubururu.

Ni abantu benshi bari gufata ifoto y'urwibutso, abantu bakaba bishimiye igikorwa cyabaye uyu munsi, ni abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko aba bantu banezerewe cyane.

Aba ni abakobwa ni abakobwa bambaye imipira y'umweru hejuru hasi bakaba bambaye amapantaro agiye atandukanye ariko hakaba higanjemo abambaye umukara ndetse n'amapantaro y'amakoboyi aba bari mu cyumba cyiza icyumba cyubakishije amatafari ndetse kandi bakaba bafite ibintu bigiye bitandukanye mu ntoki.

Inyubako yubatse neza, ifite urubaraza rwiza, bigaragara ko harimo abagabo babiri, umwe wambaye itaburiya undi wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara barimo baragenda.

Ni inyubako yubatse neza irimo imiryango myiza cyane, inyubako irimo parafo n'amatara meza cyane, ku rukuta rw'iyi nyubako hateye amarangi y'umweru ndetse kandi inyubako irimo n'amakaro asukuye kandi asa neza.

Ni inyubako nziza rwose ubona ko igeretse inshuro imwe, ni inyubako ifite parikingi nziza cyane irimo imodoka zigiye zitandukanye ndetse kandi uko bigaragara, ni inyubako ubona ko ari ibiro, aho hakorerwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite imisatsi y'umukara imanutse ikagera mu mugongo, yambaye amadarubindi ndetse n'agapfukamunwa k'umukara ndetse n'amaherena ku matwi, imbere ye hari imashini, ndetse kandi ari mu cyumba cyirimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyubako yubatse neza, ndetse kandi bigaragara ko hari isuku imeze neza cyane, iyi nyubako iteye amarangi y'umweru, ikaba ifite ibirahuri byiza cyane, ndetse n'inzugi z'umukara. Aha hari ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara ko iyi nyubako, ari inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere.

Amarembo meza cyane, aya marembo ubona ko ari amarembo ajya mu bitaro, kuko icyapa cyaho cyanyanditseho Kabgayi hosipito. Ibitaro birimo inyubako zigiye zitandukanye nk'izifashishwa mu kwakira cyangwa se mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, si ibyo gusa kandi muri ibi bitaro harimo n'ibiti byiza biteye amabengeza.

Uyu ni umuganga ubona ko arimo atanga serivise z'ubuvuzi kuri uyu mwana. Uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse kandi akaba yambaye n'agapfukamunwa gakunze kwifashishwa n'abaganga kenshi cyane mu gihe barimo baratanga serivise z'ubuvuzi.

Iyi ni inyubako ubona ko itangirwamo serivisi cyane cyane zibanda ku buvuzi, aho izo serivisi zibanda ku ndwara zifata umuntu cyangwa se inyamaswa, iyi nyubako ikaba ikorerwamo izo serivisi ku rwego rw'Afurika.

Ni umuryango ukwinjiza mu nyubako ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, aho inyubako irimo abantu imbere. Iyi nyubako isa neza pe kandi nk'uko bigaragara ikorerwamo serivise zigiye zitandukanye.

Ni uduhanda twiza cyane, turi ahantu heza hari ubwatsi bwa pasiparumu bwiza kandi butoshye, imbere yayo hari inyubako nziza cyane, yubakishije amatafari ahiye ndetse kandi iyo nyubako ikaba ikorerwamo serivisi zigiye zitandukanye.

Ni icyumba kirimo ibitanda byiza kandi bigiye bitandukanye, ibi bitanda bigaragara ko ari ibitanda by'abarwayi, iki cyumba kikaba ari kimwe mu byumba bikunda kugirwa n'ibitaro, kuko akenshi byifashishwa mu gushyiramo...

Iyi ni farumasi, farumasi ni icyumba kiba kirimo imiti myinshi nk'uko hano bimeze, iki cyumba kirimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Icyumba cyubatse neza, icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Aho iki cyumba kirimo imiti yifashishwa mu buvuzi mu by'ukuri iyi ni farumasi. Iyi miti irimo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni inyubako nziza cyane, inyubako ifite urugi rw'umweru ndetse n'ibirahuri bitabonerana by'umukara, ni inyubako bigaragara ko hariho icyapa cyanditseho Mediasol, iyi akaba ari farumasi igaragara hariya i Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Ni icyumba kirimo imashini zigiye zitandukanye ndetse kandi izo mashini zikaba zikunze kwifashishwa mu bitaro. Ni icyumba kandi ubona ko giteye irangi ry'umuhondo, hakaba harimo cyane cyane ibyiganjemo ibikoresho by'ubuvuzi.

Iki n'icyumba gikunze kugaragara mu bitaro, aho iki cyumba kirimo imashini y'ikoranabuhanga yifashishwa cyane cyane mu gusuzuma indwara zigiye zitandukanye mu mubiri wa muntu.

Iki ni icyumba ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo isaha ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa cyane cyane igihe hakorwa siporo, bigaragara ko iyo ushaka gukora siporo ujya muri iki cyumba, ukaba wakoresha ibikoresho bitandukanye.

Iki ni ikigo nderabuzima cya Matyazo, aho iki kigo nderabuzima cyifashishwa n'abaturage batuye mu karere ka Huye ndetse kandi bikaba bigaragara ko hari abaturage bari gusohokamo aho bari bavuye gusaba serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Iki ni icyumba bigaragara ko gitunganije neza kandi kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, icyumba ubona ko kirimo amatara arimo kwaka ndetse kandi kikaba cyubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ni inyubako irimo amabara agiye atandukanye, inyubako ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ni inyubako yiganjemo ubwiza buhambaye ndetse kandi iyi nyubako ikaba ikorerwamo serivisi z'ubuzima.

Iyi ni inyubako ubona ko irimo abantu bagiye batandukanye aho bano bantu baje kwa muganga gusaba serivisi z'ubuzima ndetse kandi bigaragara ko hari n'abaganga bagiye batandukanye, barimo barabaha serivisi bakenera.

Ni ibimera ubona ko byarabye indabo z'umutuku, biri kandi imbere y'inyubako yubatse neza cyane, inyubako aho imbere yayo ku rubaraza hahagaze abantu bagiye batandukanye.

Aha ni imbere mu nyubako, imbere muri iyi nyubako hasa neza, amakaro meza, amarangi meza, ndetse kandi harimo intebe nziza, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ni umuganga w'igitsina gore yambaye itaburiya y'umweru, ari kuvura umugabo uryamye ku gitanda cy'abarwayi, wambaye ingofero, agapfukamunwa byose by'umukara, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro ndetse akaba yambaye n'inkweto.

Ni inyubako nziza cyane, inyubako iteye irangi ry'umweru, imbere y'iyo nyubako hari ibiti biteye amabengeza kandi hari umugabo urimo aramanuka, aragendera mu gahanda karimo amapave ndetse kandi iruhande rwe hari undi mugabo uhagaze wambaye umupira w'umutuku.

Umuganga wishimye, umuganga wambaye itaburiya ndetse kandi akaba yambaye na rinete mu maso, akaba arimo araseka. Iruhande rwe hari umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu bwera, ndetse kandi akaba arimo arikora ku nda.

Ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye icyumba cyubatse neza giteye irangi ry'umweru iki cyumba kirimo imashini z'ikoranabuhanga ndetse kandi hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa cyane cyane n'abaganga.

Aha harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo televiziyo, kopiyuta ndetse kandi hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa cyane cyane mu muziki. Ibi bikoresho bigaragara ko biri ahantu heza cyane mu cyumba giteye irangi ry'umweru ndetse kandi bigaragara ko nabwo ubwabyo bihenze.

Aha ni ububiko bw'imiti, ni imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse kandi iyi miti ikaba ibitse mu byiciro cyangwa se mu buryo bugiye butandukanye.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu bitaro, aho byifashishwa mu gutanga serivisi zigiye zitandukanye cyane cyane izo mu buzima, ibikoresho byifashishwa n'umuganga wabyize cyangwa se ubifitiye uruhushya.

Iki cyumba ni cyiza. Ni icyumba kirimo intebe nziza, ni icyumba kirimo n'ibipupe cyangwa se ibikinisho byinshi byiza. Iki cyumba uwakibona yatekereza ko cyashyiriweho abana batoya mu rwego rwo kubashimisha.

Ni inyubako nziza cyane inyubako iteye amabengeza, iyi nyubako ikaba ari inyubako igezweho muri iki gihe, haruguru y'iyo nyubako hari abantu benshi abagabo ndetse n'abagore aho barimo baratambuka berekeza mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Icyumba cyiza cyane, icyumba cyubatse mu buryo bwa kijyambere, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye cyane cyane by'ikoranabuhanga, aho ibikoresho bikunze kwifashishwa mu bitaro batanga serivisi z'ubuvuzi ku barwayi bagiye batandukanye babaganye.

Icyumba kimeze neza, kirimo ibintu bigiye bitandukanye, aho bigaragara ko hari mo intebe z'ubururu ndetse kandi bikaba bigaragara ko aha ngaha ari bitaro, kuko ibikoresho birimo akenshi bikunda kwifashishwa n'abaganga.

Ni inyubako ubona ko imeze neza cyane, inyubako iriho icyapa cya farumasi Iraguha, iyi farumasi ikaba icururizwamo imiti igiye itandukanye cyane cyane yifashishwa mu buvuzi, iyo wandikiwe umuti na muganga ushobora kuba wajya muri farumasi bakawuguha ku giciro cyiza cyane.

Ahantu hateye amabengeza, ni ahantu hari ubwatsi bwiza cyane bwa pasiparumu, ahantu hatunganijwe neza, ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye ndetse hari n'uduhanda twiza cyane turimo amapave, muri ubwo bwatsi bwa pasiparumu, harimo ibiti biteye neza nk'uko bigaragara ni indabo ndetse kandi ahantu hari n'ikirere cy'ubururu.

Ni inyubako yubatse neza ifite amadirishya n'imiryango by'umukara, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye kandi iteye irangi ry'umuhondo, imbere yayo ku rubaraza hicaye abantu bagiye batandukanye ndetse kandi ifite n'imbuga nini ishashemo amapave, inyubako ifite amabati y'ubururu ndetse handitseho ijambo ikigo nderabuzima cya Shagasha.

Ni inyubako nziza cyane inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hari ubwatsi bwiza kandi butoshye bwa pasiparumu, ndetse kandi hakaba ari uduhanda twinshi dusashemo amapave.

Inyubako nziza cyane. Inyubako igeretse inshuro imwe, iteye irangi ry'umweru. Ifite amabati y'ubururu. Imbere yayo hari ubwatsi bwiza bwa pasiparumu. Muri ubwo bwatsi harimo idarapo ry'u Rwanda.

Umuhanda urimo amapave, ndetse kandi ukaba urimo kugendamo abantu batandukanye. Ni umihanda impande yawo hariho ubwatsi bwiza cyane bwa pasiparumo, ndetse hateyemo n'ibiti bigiye bitandukanye. Imbere yuyu muhanda hari inyubako nziza cyane, ubona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe nziza cyane, harimo ameza meza, ni icyumba gitatse neza, ndetse kandi giteye amarangi meza.

Ni inyubako nziza cyane, inyubako yubakishije amatafari ahiye, ni inyubako imbere yayo hariho indabyo ndetse na pasiparumu ubwatsi bwiza, inyubako ikorerwamo serivisi zigiye zitandukanye, aho ku rukuta rwayo handitseho ngo "Isange one stop center, Remera Rukoma".

Iyi ni inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba isa neza, iyi inyubako iteye akarange k'umweru ndetse kandi iyi nyubako biragaragara ko ari inzu y'ababyeyi, aho baherwamo serivise zigiye zitandukanye zireba umubyeyi.

Aha hari farumasi, iyi farumasi ibamo imiti igiye itandukanye ndetse yafasha umuntu mu kuvurwa cyangwa se mu kwivura indwara zigiye zitandukanye zamwatatse.

Ni icyumba kimeze neza cyane, icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, mbese biragaragara ko iki cyumba ari icyo mu bitaro, kuko harimo inzitiramibu ndetse kandi harimo n'ibitanda by'abarwayi, aho uharyama igihe warembye urimo uritabwaho n'ibitaro.

Iki cyumba cyirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ni icyumba gisa neza cyane, ni icyumba ubona ko cyubakishijwe ubuhanga, ni icyumba cyirimo udutanda tugiye dutandukanye nk'uko bigaragara ni udutanda tw'abarwayi, iki cyumba cyirimo amatara meza cyane, ndetse kandi biragaragara ko iki cyumba cyifashishwa mu bitaro.

Inyubako nziza cyane rwose inyubako iriho icyapa cya paniyeri farumasi, ni inyubako ubona ko itanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane kugurisha imiti ndetse imbere yayo bahagazeho umuntu uri kuri moto ikindi kandi hari na numero za telefoni, uwakenera ubufasha ubwo ari bwo bwose ku buvuzi yahamagara bakamufasha.

Iyi ni inyubako bigaragara ko ari ibitaro bya Gihundwe ndetse iyi nyubako akaba ariho icyapa cyanditseho, aho bavurira amaso, bigaragara ko ibi bitaro, muri serivisi bitanga, harimo na serivisi, yo kuvura amaso.

Hariho inyubako zigiye zitandukanye, inyubako zasakajwe amabati y'umutuku, zikaba ziteye amarangi y'umweru, ni inyubako iruhande rwayo hariho indabo ndetse kandi akaba hariho na pasipurumu nziza cyane.

Ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, iki cyumba kigizwe na parafo nziza cyane, harimo irangi ry'umweru ndetse kandi ku rukuta rwacyo harimo udupupe.

Ni inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hariho umu ajenti ndetse kandi haparitse n'imodoka nziza z'umukara, iyi nyubako ikaba yanditseho ijambo porukirinike do ritwari.

Inyubako yubatse neza, inyubako iteye amarangi meza cyane, imbere yayo harimo intebe z'umutuku ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye. Iyi nyubako biragaragara ko ari inyubako, yubatswe ngo igikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, iyi ni inyubako iraajya yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima.

Iki ni icyumba gisa neza, kirimo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho bikaba bikunze kwifashishwa mu gihe umuntu akora siporo, mu by'ukuri iki ni icyumba gikorerwamo siporo.

Imashini iri ahantu heza cyane, ndetse kandi iyi mashini ikaba itekanye. Ni imashini ibikwamo ibintu ubona ko bifite uburemere, kuko iri ahantu hafite umutekano uri hejuru.

Ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere, imbere yayo haparitse imodoka y'umutuku ndetse iruhande rwayo hari ubwatsi bwiza cyane bwa pasiparume mo hagati harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ni icyumba kimeze neza cyane, icyumba kiriho imiryango myinshi igiye itandukanye, icyumba giteye irange ryiza cyane, iyo miryango iri muri iki cyumba ifite nimero nk'uko bigaragara, iki cyumba gikoreshwa kwa muganga kuko handitseho "Nurse Station."

Ahantu heza cyane, amakaro y'umweru, parafo na yo isa neza irimo na kamera, akabati keza, inyubako rwose ubona ko isukuye kandi imeze neza, irimo n'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Iki ni icyumba cyiza icyumba cyubatse neza ndetse kandi kirimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye, iki cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa cyane cyane mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ku barwayi.

Ni inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ku rubaraza rwayo hicayeho abantu bari muri ngeri zigiye zitandukanye, imbere yayo hari indabo nziza cyane, iyi inyubako ikaba ikorerwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima nkuko byanditse ku rukuta rwayo rugaragaza ko ari laboratwari.

Aba ni abagore n'abagabo bahagaze imbere y'inyubako, aho iyi nyubako yanditseho isange wani sitopu seta Kabutare hosipito. Ndetse kandi aba bantu bambaye udupfukamunwa.

Icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye, yanditse mu ibara ry'umukara, ubururu, umutuku, ndetse kandi inyuma yacyo hariyo inyubako nyinshi kandi nziza, ni inyubako ubona ko imbere haparitseyo imodoka.

N'imashini iri mu cyumba cyiza cyane, imashini nayo ubwayo ubona ko itagayitse, n'imashini ikunze kwifashishwa mu buvuzi, iyi mashini ikunze kwifashishwa mu kureba niba ubuzima bwa muntu nta kibazo ubufite kugira ngo abe yahabwa ubuvuzi bukenewe.

Iki cyumba ni cyumba ubona ko gitunganije neza, ni icyumba gifite isuku ni icyuyumba kirimo irangi ry'umweru ndetse hasi no hejuru iki cyumba ni icyumba cy'ubutabazi bwi'ibanze cyangwa se bwihutirwa gikunze gukoreshwa igihe haje umurwayi urembye cyangwa se uri mu marembera urimo urarwana n'ubuzima.

Ni inyubako iriho icyapa cyanditseho ijambo RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima, imbere yayo muri parikingi harimo imodoka: iz'umweru ndetse n'iy'umukara.

Ni amarembo y'ibitaro, aho imbere yayo hariho umubyeyi uhetse umwana, aya marembo akaba afunguye, uwakenera serivisi zose z'ubuvuzi yakwegera ibi bitaro bakamufasha.

Aha biragaragara ko ari icyumba, icyumba gisa neza kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Ndetse kandi bikaba bigaragara ko iki cyumba gikunze kwifashishwa n'ibitaro, cyangwa se akaba ari kimwe mu bigize inyubako y'ibi bitaro.

Iyi nyubako iri ahantu hitaruye heza, ni inyubako irimo ubuhanga buhambaye, ni inyubako imbere yayo hari ubwatsi bwiza cyane bwa pasiparumu ndetse hagiye hateyemo ibiti bigiye bitandukanye, ni inyubako rwose ubona ko ikorerwamo ibintu byiza cyane ariko byerekeye ubuvuzi.

Aha hantu hariho indabo ndetse n'ubwatsi bwa pasiparumu bwiza cyane kandi butoshye, hateyemo ibiti bigiye bitandukanye, ni ibiti ubona ko biri ahantu hari inyubako nazo zifashishwa cyane cyane mu buvuzi, ahantu akaba ari parikingi, aho uparikamo imodoka yawe ukajya mu kazi kawe.

Ni icyumba cyiza, icyumba kirimo ibitanda bigiye bitandukanye, ndetse hakaba harimo n'umuntu wambaye imyenda y'akazi isa icyatsi n'agapfukamunwa, iki cyumba kirimo inzitiramibu iz'umweru ndetse n'iz'ubururu.

Ni imodoka irimo irasohoka mu muryango w'inyubako nziza cyane, inyubako igeretse inshuro eshatu, muri iyo nyubako si imodoka imwe gusa irimo, harimo n'imodoka nyinshi cyane, hejuru y'iyo nyubako hariho ibigega.

Inyubako iteye irangi ry'umweru, ndetse kandi iyi nyubako ikaba irimo amadirishya afite ibirahuri, hari idirishya rifite ikirahuri cyamenetse, imbere y'iyi nyubako hari icyapa, icyapa gifite ibara ry'umweru kiriho umugore utwite, ndetse kandi cyandikishijwe mu magambo y'icyatsi.

Aha biragaragara ko ari mu bitaro ndetse kandi hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, ni inyubako ubona ko irimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye zirebana n'ubuzima.

Ni inyubako isa neza cyane, inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere ndetse inyubako ikaba igeretse rimwe, ni inyubako bigaragara ko ikorerwamo serivisi z'ubuzima, aho ufite ikibazo cy'ubuzima wagana muri iyi nyubako bakagufasha.

Inyubako nziza cyane, inyubako iteye irangi ry'umuhondo. Imbere y'iyi nyubako hari abantu bagiye batandukanye, ndetse kandi mu marembo yayo haparitsemo imodoka nziza cyane, hari kandi n'icyapa cy'umweru cyandikishijemo amagambo y'ubururu.

Aha biragaragara ko ari inyubako imeze neza kandi iteye amarangi meza, inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara ko ari inyubako yo kwa muganga cyangwa se mu bitaro, iyi nyubako ikaba irimo ibikoresho byifashishwa cyane n'abaganga mu gihe batanga serivise z'ubuzima.

Iki ni icyumba gifite isuku, kikaba mu by'ukuri giteye irangi ry'umweru, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho byinshi cyane, byose biri mu byiciro bigiye bitandukanye, ibi bikoresho bikaba byifashishwa cyane cyane mu bitaro.

Iyi ni inyubako ubona ko yubatse neza, iyi nyubako irimo imashini zigiye zitandukanye, ubona ko ziteretse ahantu hagiye hatandukanye, izi mashini zikaba zifashishwa mu buvuzi cyangwa se mu gutanga serivisi z'ubuzima.

Iki ni icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo n'imiryango myinshi cyane, aha ngaha hicayemo abantu, aho abantu barimo baratanga serivisi zigiye zitandukanye.

Ni inyubako nziza ifite ibirahuri n'inzugi nziza, ni inyubako hejuru yurugi handitseho pediatric center. Iyi nyubako bikaba bigaragara ko yubakishije amatafari meza.

Ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse harimo ibikoresho bimwe na bimwe by'ikoranabuhanga, harimo kandi umurwayi uryamye, aho uyu murwayi afite ibyuma bagiye bamucomeka ku maboko ndetse kandi akaba arimo arahabwa serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane, inyubako yubatswe mu buryo bw'ubuhanga, inyubako rwose ubona ko uwayubatse yakoresheje ubuhanga buhambaye mu gukora igishushanyo mbonera cyayo. Ni inyubako imeze neza ariko iyi nyubako bigaragara ko ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyerekeye ubuzima.

Ni inyubako imeze neza cyane, ni inyubako iteye amarangi meza, ni inyubako igeretse rimwe, ku rubaraza rwayo hari abantu bagiye batandukanye, ndetse mu marembo yayo hari icyapa cyanditseho, ikigonderabuzima cya Nyarurenzi.

Icyumba gisa neza cyane, icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo udutebe tugenda ndetse kandi hakaba harimo n'ibindi bikoresho byose bifite amapine.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse kandi harimo intebe nziza cyane zisa umutuku, harimo n'igitanda abona ko ari icy'umurwayi ndetse harimo n'idirishya rifite irido ry'umukara.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kirimo amagambo agiye atandukanye yandikishijwe mu ibara rya move ndetse n'ibara ry'umukara, harimo kandi n'akabara kajya gusa umutuku ariko weruruka cyane. Iki cyapa cyegereye umuhanda wa kaburimbo ndetse kiri mu marembo y'inyubako.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse hakaba harimo n'igitanda cy'abarwayi. Iki cyumba nkuko bigaragara ni cyumba gikunze kuboneka mu bitaro, aho cyifashishwa mu kuvura abarwayi cyangwa gutanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima ku barwayi.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye, ariko byifashishwa cyane cyane ku bantu bakora siporo cyangwa se abantu batanga ubuvuzi bw'ibanze ku bantu bakora siporo.

Ni ibikoresho byose biri ahantu hamwe. Ibikoresho bigiye bitandukanye, ariko bikaba byifashishwa cyane cyane ku bantu bakora siporo, cyangwa se batanga serivisi z'ubuvuzi ku muntu wagize ikibazo arimo arakora siporo.

Aya ni amazi arimo arisuka mu kirahuri, amazi ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu, ubuzima bw'umuntu bukenera amazi kugira ngo bwirinde indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane izitandura.

Ni umuntu wambaye imyenda ya siporo, umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, uyu muntu arimo arakora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri wa muntu kurambuka.

Umugabo ubona ko ari kunywa amazi, ndetse kandi bikaba bigaragara ko uyu umugabo akora siporo, uyu mugabo ari kunywa amazi, nka kimwe mu bintu byiza cyane, bifasha umubiri wa muntu kugarura imbaraga, ndetse kandi ukagira ubuhere.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa cyane cyane mu kugorora amaguru, iyo umuntu ukora siporo cyangwa se undi muntu uwo ari we wese yagize ikibazo cy'akaguru, iki ni igikoresho bakwambika kugira ngo kibe cyashyira ku murongo ingingo zawe z'amaguru.

Igikapu kirimo imiti igiye itandukanye, imiti ikaba yifashishwa cyane cyane gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bantu bakora siporo cyangwa se ikaba yifashishwa n'abantu bakora siporo igihe biha ubutabazi bw'ibanze bo ubwabo.

Ni imbuto zigiye zitandukanye, harimo imineke, inanasi, harimo n'imiti ya kizungu, harimo imidari, harimo n'izindi mbuto nk'indimu, ndetse n'izindi zo mu bwoko bugiye butandukanye. Izi mbuto zifashishwa cyane cyane ku mubiri wa muntu, kuko zikunda kurinda indwara.

Ni ikirangantego kiriho abana babiri, iki ikirangantego kikaba kigaragaza ko aba bana bakina umukino wa dojo ndetse kandi uyu mukino ukaba umaze kwimakazwa cyangwa se kwitabwaho mu Rwanda.

Umusore arimo arasuka amazi mu maso, uyu musore yambaye isengeri y'icyatsi. Uyu musore biragaragara ko akora siporo cyane nka kimwe mu byifashishwa n'abantu benshi mu gutuma ubuzima bwabo bumera neza.

Umuganga wambaye itaburiya, urimo uratanga serivisi ku murwayi wamuganye, aho uyu murwayi afite ikibazo cy'imvune cyo mu ivi. Ibi akenshi ibikunze kubaho kandi bibayeho bifata igihe kirekire kugira ngo iyi mvune ube wabasha kuyikira.

Yambaye imyenda ya siporo, isengeri ndetse n'ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru ku ruhande, ari gukoreshwa imyitozo n'umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ni umuntu urimo urakora siporo, ari kumwe n'umutoza, aho akenshi ibi bikunze kuba mu byumba bakoreramo siporo, ndetse kandi aho ufata umuntu akajya kwigisha imyitozo igiye itandukanye igufasha kugorora umubiri wawe.

Iyi ni imashini isa neza, imashini isa umweru ndetse n'umukara, ikaba ifite udupine tugenda, iyi mashini ifite sikirini ubona ko bareberamo amakuru agiye atandukanye bitewe n'icyo bashaka kubona, iyi mashini ikoreshwa cyane cyane mu baganga.

Umukobwa mwiza umukobwa urimo urakora siporo, uyu mukobwa arimo arakora siporo ngororamubiri mu rwego rwo kurambura amaguru ye ndetse no kurambura umugongo we, siporo ni nziza cyane ku buzima bwa muntu.

Iki ni icyumba ubona ko kimeze neza, ndahabona utubati tumeze neza kandi hari n'imashini isa neza kandi ikeye bigaragara ko ifite isuku, iyi mashini ikaba yifashishwa mu buvuzi cyane cyane ku bantu bakora siporo iyo bagize ibibazo.

Iki ni igikoresho cyiza cyane, igikoresho kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru, ni igikoresho gikunze kwifashishwa cyane cyane kwa muganga.

Uyu ni umuntu urimo urakora siporo, aho yambaye inkweto za siporo zifunze amasogisi y'umukara, ndetse kandi akaba yambaye umupira w'umutuku, ndetse akaba yambaye ikabutura y'umukara bigaragara ko arimo gukora siporo.

Uyu urabona ko arimo ariha ubuvuzi bw'ibanze, cyane cyane ibikunze kwifashishwa n'abantu bakora siporo, kugira ngo imitsi ibe yagaruka mu mwanya wayo, cyangwa se kugira ngo ingingo zimwe na zimwe zibe zabasha kuba zagororoka

Aha hari imbuto zigiye zitandukanye aho harimo karoti n'andi moko y'imbuto, hariho umuntu urimo ariruka aho uyu muntu yambaye imyenda ya siporo ndetse kandi bikaba bigaragara ko uyu muntu yakoze umubiri.

Ni umuhungu n'umukobwa barimo barakora siporo, aba bombi uko ari babiri, bafite icupa ry'amazi mu ntoki. Ndetse kandi bambaye imyenda ya siporo, siporo barimo barayikorera mu umuhanda wegereye imisozi myiza cyane.

Ibi ni ibikoresho bigaragara ko byifashishwa mu gihe cya siporo, cyane cyane nk'iyo umu sporutifu agize ikibazo, aha kandi ibiri mu bikapu by'umutuku ndetse n'umukara aho kimwe gifunguye n'ikindi kandi kikaba kitwereka ibikoresho bigiye bitandukanye aho harimo ibikoresho byifashishwa cyane cyane mu gihe cya siporo.

Ni umukobwa wambaye impeta mu rutoki rw'isezerano, uyu mukobwa akaba afite urubura mu ntoki, uru rubura rukunze kwifashishwa cya cyane n'abantu bakoze impanuka, cyangwa se bahuye n'ikibazo cy'imvune muri siporo, aho rufasha abantu koroshya uburibwe, cyangwa se guhosha ububabare.

Ni imashini iri mu cyumba cy'umweru, iyi mashini na yo ikaba ifite ibara ry'umweru. Iyi mashini ikunda kwifashishwa mu bitaro, aho iyi mashini ikunda kwifashishwa mu gusuzuma umuntu niba nta ndwara iri mu mubiri we.

Ni umukobwa ufite imisatsi myiza cyane, uyu mukobwa arimo aranywa amazi, amazi ni meza cyane ku buzima bwa muntu, kuko atuma umuntu ahorana ububobere, ndetse kandi akaba afasha umuntu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zitandura.

Iki ni icyumba ubona ko kimeze neza, icyumba kirimo amakaro ndetse n'akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, muri iki cyumba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, harimo kandi umusore ubona ko na we afite ikibazo cy'ukuguru kw'iburyo, ndetse kandi bigaragara ko uyu muganga arimo aramufasha kuba yagorora aka kaguru ke k'iburyo.

Abaganga benshi, bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'imyambaro y'akazi, abaganga ubona ko barimo barakora serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, ndetse kandi bakaba bari kumwe n'umurwayi.

Umusore urimo arakora siporo, yambaye ubusa hejuru, ndetse kandi yambaye n'ikabutura. Uyu yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, ndetse akaba yambaye inkweto z'abantu bakunze kwifashisha mu gihe bakora siporo.

Ni umuganga wambaye umwenda wo mu kazi ndetse kandi akaba yambaye ikarita y'akazi, uyu muganga arimo arafasha umurwayi kurambura akaguru k'ibumoso, bigaragara ko kari gafite ikibazo.

Uyu muntu yagize ikibazo cy'imvune. Iki kibazo cy'imvune gikunze kuba cyane cyane ku bantu bakora siporo. Aha ngaha hari umuntu urimo aramufasha kuba yamukorera ubutabazi bw'ibanze. Ndetse kandi biragaragara ko afite n'ibikoresho bigiye bitandukanye bikunze kwifashishwa n'abantu bakora cyangwa se bavura abantu bakora siporo.

Ari mu cyumba mu nyubako nziza cyane, inyubako ubona ko yubatswe mu buryo bw'ubuhanga, uyu arimo arakora siporo, aho arimo aragorora umubiri we, cyane cyane igice cy'amaguru ndetse n'umugongo.

Agakarito karimo imiti n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa cyane cyane ku bantu bakora cyangwa se bavura abantu bakora siporo, ni ibikoresho bikunze kwifashishwa nk'iyo umuntu ukora siporo ahuye n'ikibazo, aho akoresha ibikoresho mu kurinda ubuzima bwe.

Yambaye isengeri y'umukara, yambaye ipantaro y'umukara irimo akarongo k'umweru ku ruhande, yambaye inkweto nziza, ari ahantu hameze neza cyane, arimo arakora siporo ndetse kandi akaba arimo arumva n'umuziki.

Umugabo uryamye ku gitanda cy'abarwayi, aho uyu mugabo afite ikibazo cy'uburwayi nk'uko bigaragara, iruhande rwe hari abagabo babiri ndetse kandi ubona ko bamwitayeho, bari mu cyumba kirimo ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Iki gikoresho kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse gifite imigozi y'umukara, ni igikoresho cyifashishwa cyane cyane muri siporo, aho iyo umuntu akomeretse, iki igikoresho nicyo bamurambikaho noneho bakamuterura.

Icyumba ubona ko kimeze neza kandi gisa neza cyane, icyumba kirimo imashini nziza, iyi mashini ikaba isa umweru, umukara ndetse n'ubururu, ikaba yifashishwa cyane cyane mu bintu bya siporo.

Ni umuntu urimo urakora siporo, akaba yambaye isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, ndetse kandi akaba yambaye udukoresho dukunze kwifashishwa igihe umuntu arimo arumva umuziki.

Uyu ni umukobwa mwiza cyane imbere n'inyuma, ni umukobwa rwose ubona ko arimo akora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, aho arimo arakora umwitozo umufasha kunanura amaguru ndetse no kunanura umugongo, yewe tutibagiwe n'amaboko.

Ni igikapu kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibikoresho byifashishwa cyane cyane n'abantu bakora siporo, ndetse kandi uko bigaragara ibikoresho byifashishwa mu kuvura cyangwa se mu guha ubutabazi bw'ibanze uwagize ikibazo arimo arakora siporo.

Iyi ni imashini ikunda kwifashishwa n'abantu bakora siporo. Iyi mashini yagufasha gukuraho inda mu buryo bukoroheye. Ni imashini ikunzwe gukoreshwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, ni imashini bigaragara ko iri kugurishwa.

Ni umukobwa wishimye cyane, aho yicaye ku itapi ikunze kwifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, umukobwa arimo arakora imyitozo ngororamubiri, ari ahantu heza ndetse kandi akaba yafashishije amaboko ye munsi y'ibirenge, nka siporo zikunze gukorwa zo kunanura umugongo ndetse n'amaguru.

Umuhungu ufite umupira w'maguru mu ntoki, yambaye ikabutura ngufi y'umukara ndetse kandi ari kumwe n'undi mugabo wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo. Uyu afite igikoresho gikunze kwifashishwa n'abantu muri siporo, aho gifasha abantu mu kugenda cyangwa se kurambura amaguru.

Umukobwa urimo urakora siporo ngoramubiri, uyu mukobwa yambaye imyenda y'umukara, iyi myenda ikunze kwifashishwa n'abantu bakora siporo, uyu mukobwa arimo arakora siporo zinanura umugongo ndetse n'amaboko.

Afite igikoresho gikunze gukoreshwa n'umuntu igihe yihanagura mu maso, arimo aranywa amazi, amazi ni meza cyane ku buzima bwa muntu, aho yifashishwa mu kurinda ubuzima bwa muntu mu buryo bugiye butandukanye.

Aha hari ibikoresho n'imiti bigiye bitandukanye aho ibi bikoresho cyangwa se iyi miti byifashishwa n'abantu bakora siporo cyane cyane, igihe bahuye n'ikibazo ndetse bakaba banayifashisha mu kugira ngo bakore neza siporo zabo.

Uyu ni umukobwa wambaye imyenda ya siporo, bigaragara ko arimo arakora siporo, imbere ye hari imashini, hari amazi ndetse kandi hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora siporo, biragaragara ko uyu mukobwa arimo akorera siporo mu nzu nziza cyane.

Ni imashini y'umweru, iteretse ahantu hari igitambaro cyiza, kiri mu ibara rijya gusa umukara ariko atari umukara cyane. Hariho umugozi ku ruhande ukoreshwa mu gucomeka cyangwa se gutwara umuriro muri iki cyuma, iki cyuma kiriho imibare igiye itandukanye.

Uyu muntu akora siporo, ari kunywa amazi, akenshi iyo abantu bakora siporo bashoje igikorwa cyabo, bakunze kurenzaho amazi ariko nyuma y'uko bicaye igihe kinini baruhutse. Amazi ni meza cyane, iyo wakoze siporo ukanywa n'amazi bifasha umubiri gukora neza.

Umuntu urimo urakora siporo ndetse kandi akaba yambaye imyenda ya siporo n'inkweto za siporo. Siporo ni igikorwa gikorwa cyane kugira ngo kirinde umubiri wa muntu cyane cyane, hirindwa indwara zitandura ndetse kandi zikaba zinafasha umubiri wa muntu.

Ni udukarito dutanu, utwo dukarito dutanu twose dusa umweru, ariko ikidutandukanya ni uko buri gakarito kariho ibara ryako, akantu kameze nk'agashumi ku ruhande. Aka mbere kariho umukara, aka kabiri kariho ubururu aka gatatu kariho icyatsi, aka kane kariho umutuku, aka gatanu kariho umuhondo.

Ni umusore urimo aranywa amazi, yambaye imyambaro ya siporo, amazi ni meza cyane ku mubiri wa muntu kuko afasha umubiri kugira ubuhehere ndetse n'ububobere, akenshi amazi aba meza iyo yabaye menshi mu mubiri.

Yambaye imyenda ya siporo, ndetse n'inkweto za siporo. Arimo arakora imyitozo ngororamubiri, aho arimo arayikorera mu nyubako nziza cyane imyitozo ngororamubiri ifasha cyane cyane gusubiza ingingo umurongo.

Aha hari imbuto, hari umutobe, ndetse hari n'ikirahuri cy'amazi. Ku ruhande hari imetero ikoreshwa mu gupima uburebure, ndetse hari n'igikoresho gikunze kwifashishwa n'abantu bakora siporo.

Uyu arimo arakora siporo, biragaragara ko yagize ikibazo ku kaguru ke k'ibumoso cyane cyane mu ivi, uyu akeneye ubuvuzi giye butandukanye bwamufasha kuba yakongera gusubira mu buzima busanzwe.

Iki ni icyapa, kiriho imbuto, kiriho ibikomoka ku matungo, kiriho ibikomoka ku bimera, kiriho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hariho n'imirasire y'izuba, imwe ifasha abantu kubona vitamine D.

Aha hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa cyane cyane ku bantu bakora siporo, cyangwa se abantu bakunze guha ubuvuzi bw'ibanze, umuntu waba wagiriye ikibazo mu gikorwa icyo ari cyo cyose cya siporo.

Arimo arisuka amazi mu maso, yambaye umupira w',umukara aho arimo arakora siporo, amazi ni meza cyane ku muntu ukora siporo, iyo ayanyoye rwose yumva aruhutse.

Yambaye imyenda ikunze kwifashishwa muri siporo, aho yambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, arimo akorera siporo ahantu heza cyane, ku itapi y'icyatsi, iruhande rwe hari idirishya ririmo ibirahuri ndetse risa umweru.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo imodoka ikunze kwifashishwa mu butabazi, iyi modoka ikaba izwi ku izina rya ambilanse cyangwa se imbangukiragutabara, iyi modoka ikaba iri mu muhanda uteganye n'ibiti by'icyatsi bifite amababi y'icyatsi.

Ni umuntu washyize urubura ku kuboko kwe kw'iburyo, aho uyu muntu bigaragara ko yagize ikibazo cyane cyane gikunze kugirwa n'abantu bakora siporo, ndetse kandi akaba arimo ariha ubutabazi cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze.

Umwana mutoya cyane ndetse kandi ari kumwe n'umubyeyi wambaye ijire y'ubururu irimo akarongo k'umweru gatambitse ndetse n'umupira w'umutuku, uyu mubyeyi afite igikoresho mu ntoki gikunze kwifashishwa n'abaganga, nkuko bigaragara arimo aragitunga ku mwana hari icyo arimo arareba.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, umukobwa ufite umubiri mwiza utoshye ndetse kandi akaba yambaye n'inkweto za siporo, ni umukobwa ubona ko arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arambure umubiri we neza.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse kandi ibikoresho bikaba byifashishwa cyane cyane n'abaganga, ibikoresho bikaba byifashishwa muri serivisi yo kuvura abarwayi, ni ibikoresho biri mu cyumba ubona ko gisa neza cyane ndetse kandi giteye irangi ry'umweru kandi rikeye.

Ni umubyeyi wambaye imyenda y'ibitenge, ari kumwe n'umwana wambaye imyenda y'umweru, aba ngaba bari mu cyumba ubona ko kirimo ibitanda bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buryamo.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo y'umukara ndetse kandi akaba yambaye n'inkweto z'umweru. Uyu mukobwa arimo arakora siporo. Siporo ni igikorwa cyiza gikunze gufasha umubiri kumera neza ndetse no gukira indwara zigiye zitandukanye.

Ni inyubako nziza cyane, icyumba gisukuye kandi giteye irangi ry'umweru, ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ndetse kandi hakaba harimo n'umuganga wambaye itaburiyaba, akaba afite n'igikoresho yifashisha mu buvuzi mu ijosi, uyu muganga biragaragara ko afite icyo arimo arasobanura.

Afite igikoresho bakoresha bihanagura amazi se ibyuya, uyu arimo aranywa amazi, amazi ni kimwe mu binyobwa bitagira ingaruka na ntoya ku muntu cyane cyane ku muntu wayanyoye inshuro zemewe na muganga.

Arimo aranywa amazi, amazi ni ikinyobwabwa cyiza cyane, cyifashishwa na buri muntu wese ahava akagera, amazi nta ngaruka ajya agira ku mubiri, yaba menshi cyangwa se yaba make, gusa iyo ari make cyane, bikuviramo indwara, zitandukanye zataka umubiri.

Uyu ni umuntu urimo kunywa amazi yambaye umupira w'umukara, uyu muntu bigaragara ko avuye muri siporo, siporo ikaba ari nziza ku mubiri ndetse by'umwihariko ku buzima bw'umuntu muri rusange.

Umuntu wakomeretse urimo arahabwa ubutabazi bw'ibanze, yicajwe ku kiringiti. Uyu muntu inyuma ye hahagazeho abantu bambaye udusengeri dushushanyijeho umusaraba utukura.

Umukobwa urimo uranywa amazi, umukobwa ufite umusatsi mukeya afite agatambaro bakoresha bihanagura mu maso cyangwa se ku mubiri kari kurutugu. Yambaye nk'umuntu uvuye gukora siporo, ndetse kandi nk'uko bigaragara hari ikirere cy'ubururu cyiza cyane.

Ni umukobwa wambaye imyenda ya siporo, aho arimo arakora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko uyu mukobwa arimo arafasha umubiri we kugororoka.

Ubu ni uburyo bugiye butandukanye, umuntu yakoreramo imyitozo ngororamubiri, igihe icyo ari cyo cyose, aho bakwereka yuko ushobora ukora imyitozo wicaye, uhagaze, ndetse kandi wanafashe akaguru kawe, ugacishije inyuma, mu rwego rwo kukananura.

Ni ibikoresho ubona bigiye bitandukanye, biri mu ubwoko bugiye butandukanye, ibikoresho ubona byifashishwa n'aba siporutifu, cyane cyane iyo habaye cyangwa se hakenewe serivisi zigiye zitandukanye, ku bantu bakora siporo nk'iyo bagize ikibazo igihe bakora siporo cyangwa se igihe bakeneye kimwe muri ibyo bikoresho.

Ni umuti wanditseho ijambo ''Serumu''. Aho ukunze kwifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, mbega uyu muti ukaba usa nk'usimbura Serumu itangwa mu bitaro.

Aha hari imiti igiye itandukanye, aho hari imiti iri mu ducupa, ndetse n'imiti iri mu dusashe tugiye dutandukanye, iyi miti ikaba iri mu bwoko bugiye butandukanye, ndetse ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Aha ngaha hari imiti igiye itandukanye. Iyi miti biragaragara ko ikorwa mu bimera. Mu by'ukuri ibimera havamo imiti myinshi igiye itandukanye, aho ikoreshwa cyane cyane ubuvuzi gakondo cyangwa se aba ngaba bavura indwara zigiye zitandukanye bakoresheje uburyo butari ubwa kizungu.

Ni ibyatsi byiza biri mu ishyamba, ibi byatsi bikaba bikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo, ari ibyatsi bivura indwara nyinshi mu mubiri wa muntu.

Aha ngaha biragaragara ko uyu ari umuti gakondo, aho uyu muti wifashishwa mu buvuzi bugiye ubutandukanye, cyane cyane ukaba ukoze mu bimera, imiti gakondo ikunda kwifashishwa hirya no hino mu gihugu.

Uyu ni umuti w'amenyo. Umuti wifashishwa mu koza cyangwa se gusukura amenyo mu rwego rwo kwirinda indwara zo mu kanwa zifata amenyo zikaba zayangiza.

Ibirimo utuzu dutandukanye, ndetse kandi n'imbuto n'ibimera, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Aho bikoreshwa cyane cyane n'abakora ubuvuzi gakondo.

Aya namacupa arimo imiti igiye itandukanye. ni imiti ikunze kwifashishwa mu kuvura indwara gakondo, iyi miti ikaba ikomoka mu bimera iyi miti ivura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane izananiwe n'abaganga.

Aha hari imiti igiye itandukanye, ikorwa mu bimera, iyi imiti ikorwa mu bimera ni imiti ikunze kwifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, iyo badakunda gukoresha imiti yo kwa muganga, kuko abenshi bizerera muri iyi miti gakondo ko ishobora kubakiza.

Ubu ni ubuvuzi gakondo, aha ngaha hari imiti igiye itandukanye, irunze cyangwa se itunganyirijwe mu bintu bigiye bitandukanye, iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho akenshi havurwa abantu bagiye batandukanye kandi batarobanuye.

Ni udukarito, icupa, ndetse n'isashi, byose birimo ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane bikomoka ku bimera, ibikomoka ku bimera bikunze kwifashishwa mu ngeri zigiye zitandukanye, nko mu buvuzi, mu kuribwa, ndetse no mu bindi.

Icupa riteretse ku meza, ni icupa risa umuhondo ndetse n'umweru, harimo ikirangantego cy'umukara, amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, rikaba rifite umufuniko w'umuhondo, iruhande rwaryo hari andi macupa atari kugaragara neza.

Iyi ni imiti, ni imiti iri mu bwoko bw'ibinini, aho iyi miti bigaragara ko yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti iri mu kantu kabajwe neza ariko kakaba kabajwe mu giti.

Aha biragaragara ko ari umuntu ufite icupa mu ntoki, bigaragara ko yambaye ishati irimo uturongo tumanuye, uyu muntu bikaba bigaragara ko iyi miti ari imiti gakondo, imiti ikunda kwifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, mu gihe kwa muganga byananiranye.

Uyu ni umuti w'amenyo wifashishwa cyane mu gusukura amenyo hirindwa indwara zikunda gufata amenyo y'umuntu, uyu muti uriho icyatsi cyangwa se ikimera cyitwa igikakarubamba.

Ni ishyamba ririmo ibiti byinshi, muri ibyo biti hakaba harimo igiti gifite amababi y'icyatsi. Iki giti gikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo, aho gikunze kwifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane.

Iki ni ikimera cyitwa umuravumba, gikunze kuboneka mu bice cyane cyane by'amashyamba, aho gikunze gukoreshwa n'abantu batari bake cyane, bagikoresha mu buvuzi gakondo. Iki kimera kikaba kivura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane abenshi bakaba bakiziho ubusharire bukabije.

Uyu ni umuti uri mu gakarito, uyu muti ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye, ni umuti ukorwa mu bimera. Ibimera bivamo imiti myinshi igiye itandukanye harimo n'uyu ndetse kandi ibimera bikunda kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni ifuhu iri mu kantu kameze nk'agasahane ndetse kandi hariho n'akantu kandi iruhande kameze nk'umwuko ariko wa palastike bari gukoza muri iyi fu, iyi fu ikaba ikomoka ku bimera ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Aha hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse kandi hari igiti ubona ko gifite amababi manini, igiti ubona ko gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, zagakondo aho iki giti gikunze kuba kiri mu mashyamba agiye atandukanye kuko abagikenera akenshi bajya kugica mu mashyamba.

Aha hari imiti ikozwe mu bimera iri mu byiciro bigiye bitandukanye ndetse kandi hariho ibitabo, hariho kandi isekuru aho iyi imiti ikunze kwifashishwa muvuzi gakondo.

Ni umugabo wambaye umupira w'umweru, umugabo urimo arasoroma ibyatsi bigiye bitandukanye, ibyatsi arimo arasoroma bikaba byifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, ubuvuzi gakondo bwifashishwa n'abantu bagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu, aho usanga bukunze kwifashishwa mu kuvura indwara zugarije abantu.

Icyatsi gikunze kuboneka mu mashyamba, ni icyatsi cyifashishwa cyane mu buvuzi gakondo, iki cyatsi kivura indwara zigiye zitandukanye, ndetse kandi gifasha abantu benshi kurokora ubuzima bwabo.

Aba ni abantu ubona ko bose bahetse ibikapu ndetse imbere yabo hakaba harimo umugezi uri kumanura amazi menshi ndetse aba bantu bikaba bigaragara ko bameze nk'abakerarugendo aho bari ahantu bigaragara ko hameze nko mu ishyamba ariko aba bantu ubona ko bose barangamiye aya mazi.

Ibimera byiza cyane, iki kimera kikaba gifite ibara ry'icyatsi, ni ikimera gikunze kwifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, mu gihe cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Akakarito gasa umweru kuhande gasa umuhondo , agakarito kariho icyatsi akenshi na kenshi agakarito gakunze kuba karimo umuti, umuti ukomoka ku bimera aho aba ari icyayi gifasha umuntu kumererwa neza mu buzima.

Ni amacupa ateretse ahantu hagiye hatandukanye, aya macupa akunze kuba arimo imiti ikomoka ku bimera. Ni imiti yifashishwa cyane cyane n'abaganga gakondo, aho bavura bakoresheje ubuvuzi gakondo.

Ni ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera bikaba biri mu bwoko bw'ibiti bifite amababi y'icyatsi. Ibi bimera bikunze kwifashishwa mu gukorwamo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe zikunze kwibasira umuntu.

Aha hari ubwoko bubiri bw'umuti, umuti wa mbere ukomoka ku bimera n'umuti wa kabiri ukomoka ku bimera, iyi miti yombi ni imiti ikunda gukoreshwa mu buryo bwa gakondo ndetse kandi iyi miti ikaba yagufasha kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo n'izo mu menyo.

Ni ibimera bigiye bitandukanye, harimo ibigaragara mu mashyamba ndetse kandi harimo n'imbuto zirunze ari nyinshi, ku ruhande hari icyuma, aho ibimera byose byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni intoki zifashe ku ibabi, ibabi ry'icyatsi ndetse kandi iri babi akaba ari iry'igiti gikunze kugaragara mu ishyamba, iki giti kikaba gikunze kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni imiti iri mu bwoko butandukanye ndetse hari n'umuntu urimo arasekura indi miti ikomoka ku bimera, iyi miti yose ihuriye ku kuba ikomoka ku bimera ndetse kandi ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, uburyo buzwi nk'uburyo bw'ubuvuzi gakondo.

Ni ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'ibikomoka ku bimera aho biri mu tuzu tugiye dutandukanye kuva kuri a kugera kuri de, ku kazuka a harimo ibyatsi bitandukanye, ku kazu ka be harimo icyatsi gikunze kugaragara mu ishyamba, ku kazu ka se naho harimo imbuto zituruka ku bimera, ku kazu ka de harimo igitoki.

Amacupa agiye atandukanye, arimo imiti myinshi cyane, ikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo, iyi miti ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni imiti igiye itandukanye iri mu ducupa ndetse kandi iyi miti ikaba ikozwe mu bimera, iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho uwayikenera yagenda akaba yayigura akaba yayikoresha.

Uyu ni umuti. Ni umuti ukomoka ku bimera. Uyu muti wifashishwa cyane cyane mu koza cyangwa se mu gusukura amenyo, aho bifasha umuntu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zifatira mu kanwa ka muntu cyangwa se zifatira mu menyo ya muntu.

Ni agacupa k'umweru, agacupa gasa neza cyane ndetse kandi kariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu bururu ndetse n'umweru, nkuko bigaragara agakombe gakunze kuba karimo imiti cyangwa se ibinini.

Iyi miti ikomoka ku bimera, aho iyi imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse kandi ikaba inakoreshwa mu gusukura umubiri, iyi ni imiti ikora akazi kagiye gatandukanye ku mubiri wa muntu, aho iri ku cyapa kiri kuyamamaza.

Ni icyatsi kimeze neza kiriho indabo zigiye zitandukanye, icyatsi kiri mu butaka bwiza cyane, iki cyatsi gikunze kuboneka mu mashyamba, iki cyatsi cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho gikoreshwa cyane cyane n'abavuzi gakondo.

Uyu ni umuti ukomoka ku bimera, uyu muti ukunda gukoreshwa n'abantu bakunda gukoresha imiti gakondo, cyane cyane iyi miti ikaba ikunda kwifashishwa mu gihe umuntu yagiye kwa muganga, bikaba byarananiranye cyangwa se akaba yifuza gukoresha imiti gakondo bitewe n'uburyo yifuza ubuvuzi.

Ni imbuto ziteretse ku meza, izo mbuto zikaba ziri ku gitambaro gisa kaki, ndetse kandi zikaba ziri ku isahani nziza y'umweru n'agakombe k'umweru.

Iki ni icyatsi cyifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, aho iki cyatsi ubona ko gifite ibara ry'icyatsi ndetse kandi kikaba kizwi ku izina ry'umuravumba mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, iki cyatsi ubona ko akenshi abana bakunze kuvuga ko kibarya.

Ni icyatsi kiza cyane, iki cyatsi kikaba kifashishwa cyane muri serivisi z'ubuvuzi, iki cyatsi kivura indwara nyinshi ndetse kikaba kigaragara nk'icyatsi kiba mu mashyamba.

Igiti cyiza gifite amashami agiye atandukanye, ni igiti kiri ahantu hari n'ibindi ibiti byinshi cyane. Aho hantu hari ubwatsi bwiza, ndetse ikirere kiri hejuru kirasa ubururu.

Ni indabo nziza cyane zisa umweru, izi ndabo zikaba ziri ku giti gikunze kugaragara cyane mu ishyamba, iki giti gikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni udukarito dutatu dusa, amagambo yanditseho yose arasa, utu dukarito dukunze kuba turimo imiti ikomoka ku bimera, aho yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umuti uri mu gacupa gasa umweru, ndetse kandi uyu muti ukaba ukunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo. Ni umuti ukomoka ku bimera, ukaba ukunze kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Uyu n'umuganga, uyu muganga akaba yicaye ku ntebe y'umukara ndetse no ku meza maremare. Uyu muganga ari mu cyumba cyiza cyane, icyumba kirimo imiti igiye itandukanye, bigaragara ko yifashishwa mu kuvura indwara gakondo.

Ibi ni ibimera bigiye bitandukanye, ni ibimera byifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, ari ibimera ushobora kubikoresha urwaye indwara zigiye zitandukanye bikaba byagukiza.

Ni ikimera gisa neza, iki kimera kikaba kiboneka mu mashyamba, iki kimera cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, amabiri yacyo arasa icyatsi.

Ni ibyatsi byinshi ndetse ibi byatsi bikaba bifite amababi y'icyatsi, ibi byatsi bikunze kugaragara mu mashyamba, aho byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni udusahane tugiye dutandukanye dukozwe mu biti, utu dusahane tukaba turunzemo ibintu bigiye bitandukanye ariko bikomoka ku bimera, ibingibi byifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara gakondo.

Iyi ni imiti iri mu ducupa tugiye dutandukanye ndetse n'udusashi tugiye dutandukanye, cyane cyane ibi bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo. Ubuvuzi gakondo bukunda gukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye hirya no hino ku isi ndetse kandi no mu Rwanda bikaba byarahagaze aho igihe umuntu yumva ko hari ikibazo afite mu mubiri, ashobora kubagana bakaba bamufasha.

Amenyo bigaragara ko yakorewe isuku, aho munsi yayo harimo umuti wifashishwa mu gusukura amenyo n'ubundi, ndetse kandi hakaba hariho n'uburoso na bwo bukoreshwa mu gusukura amenyo, ufata umuti w'amenyo ukawushyira ku buroso, ndetse ugakoresha ibyo byombi usukura amenyo yawe.

Ni imiti ikomoka ku bimera, iyi miti ikaba yifashishwa cyane cyane ku ndwara z'uruhu, uyikoresheje atandukana n'indwara z'uruhu mu minsi itari mike.

Aha hari imiti igiye itandukanye, imiti cyane cyane ivura indwara za gakondo, iyi miti yifashishwa mu kuvura n'ubundi izi ndwara za gakondo, aho bigaragara ko ukeneye iyi miti ushobora kujyana amafaranga, maze bakaba bawuguha.

Ni amacupa atatu, amacupa abiri ari ku ruhande ari mu ibara ry'umweru akaba afite amagambo yandikishijwe mu ibara ritari iry'umweru, irindi cupa ririmo hagati ni icupa ry'umuhondo aho naryo rifite amagambo yandikishije mu ibara ya shokora.

Ni ukuboko k'umuntu, aho gufashe ku ibabi ry'icyatsi ndetse kandi iri babi rikaba riri ku giti ubona ko kikiri gitoya, igiteye ahantu heza, akenshi ibiti bikunze kugaragara mu mashyamba, ibi biti bikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni ikimera kigaragara cyane cyane mu mashyamba aho iki kimera gifite amababi y'icyatsi, ni ikimera gikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo, aho cyifashishwa kivura indwara zigiye zitandukanye.

Ni umugabo wambaye umupira w'icyatsi, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara. Uyu mugabo afite icyatsi mu ntoki ndetse kandi ari ahantu ubona ko hasukuye kandi hasa neza.

Ni abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore, hagati yabo hari amacupa menshi cyane, inyuma yayo umugore hari ijambo ryandikishije ibara ry'icyatsi ndetse no munsi yaho harimo nimero ya telefone.

Icyapa cya oranje, icyapa cyanditseho amagambo y'umweru ndetse kandi akaba ariho icupa ry'umweru, iri cupa ku ruhande rwaryo hariho icyatsi cyangwa se ikimera, si ibyo gusa kandi hariho n'ibinini birunze, ibinini bigera mu icumi.

Iki ni icyapa bigaragara ko kiriho amacupa agiye atandukanye, aya macupa akaba arimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho ubuvuzi gakondo bukunda gukoreshwa cyane n'abantu bagiye batandukanye hirya no hino ku Isi.

Ni ikimera cy'icyatsi, iki kimera kikaba gikunze kugaragara ahantu ho mu ishyamba, ni ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane izataka umubiri wa muntu.

Ni icupa ry'umutuku, icupa ryandikishijweho n'amagambo y'umweru, iri cupa rikunze kuba ririmo ikinyobwa cyiza cyane gituruka mu bimera, aho kinyobwa gikunze kwifashishwa mu mubiri wa muntu mu gutanga imbaraga.

Ibirahuri bibiri biteretse ku meza, ibi birahuri birimo amazi byombi ndetse kandi buri kirahuri kirimo icyatsi, ibi byatsi biri muri bino birahure byifashishwa cyane cyane mu buvuzi, aho ibyatsi bivura indwara zigiye zitandukanye igihe zatatse umubiri w'umuntu.

Uyu ni umuti w'amenyo ukomoka ku bimera, ni umuti wifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zo mu menyo cyangwa se zo mu kanwa. Uyu muti uri ahantu hari ibara ry'icyatsi kiganje, ndetse kandi nawo wandishijeho amagambo y'icyatsi ndetse n'umukara aho hariho n'ikimera.

Iyi ni ikarito iri mu ibara ry'umweru iyi karito ikaba iriho n'amagambo yandikishije mu mabara y'umweru ndetse hari n'andi yandikishijwe mu mabara y'ubururu iyi karito ikunze kuba irimo imiti itandukanye ariko cyane cyane imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Iki ni icyatsi gikunze kugaragara mu mashyamba, iki cyatsi kikaba cyifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, cyane cyane abakora ubuvuzi gakondo, aho cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni ibyatsi biri mu tuzu tune bifite ibara ry'icyatsi ndetse kandi hasi yabyo hariho utundi tuntu dushushanyije mu ibara ry'umukara kandi biri ku rupapuro rw'umweru.

Aha hari amacupa agiye atandukanye, aho hari amacupa menshi cyane, bigaragara ko, aya macupa arimo imiti igiye itandukanye, cyane cyane akunze gukoreshwa mu buvuzi bukunze gukoresha ibimera cyangwa se, bakunze gukoresha imiti gakondo.

Ni umubyeyi, wambaye imyambaro y'umweru, akaba afite agakapu gatoya ku ruhande, arimo arasoroma ibyatsi. Ni ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni ikimera kigaragara mu mashyamba, kikaba gisa icyatsi, ni ikimera gikunze kwifashishwa n'abantu bakora ubuvuzi gakondo, iki kimera kivura indwara zigiye zitandukanye.

Aha hari imiti igiye itandukanye, imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ku mubiri w'umuntu. Ndetse kandi biragaragara ko iyi miti, ikunze gukorwa hifashishijwe ibimera.

Ibi ni binini bifunze neza, ni ibinini bikomoka ku bimera, ibinini bikunze kwifashishwa n'abavuzi gakondo cyangwa se abavuzi bavura bifashishije uburyo gakondo.

Amacupa ari mu mabara agiye atandukanye, ndetse kandi hari n'ibice by'imibiri y'abantu nabyo bigiye bitandukanye, aho bakwereka aho umuntu agenda ababara cyangwa aho agirira uburibwe, mu bigaragara aya macupa arimo umuti akoreshwa mu kuvura, uba uri aho uriya muntu ari gukora k'urukingo runaka.